Umwana wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umukara n'agakabutura gasa n'umukara, afite isabune mu ntoki, hari umuntu urimo uramusukiraho amazi mu ntoki ngo akarabe yimare imyanda.

Iyi ngiyi ni inzu ifite icyumba cyihariye yicayemo abantu bagera kuri batanu ndetse bakoze akantu kameze nk'uruziga, bakikije ameza, ameza ariho amakayi ndetse n'amazi yo kunywa n'amatelefoni, abagabo bafite amakaramu mu ntoki bisa nkaho bari mu nama bakurikiza amabwiriza runaka.

Abana babiri ubona ko ari abana b'abangavu, bafite indobo y'icyatsi umwe arashaka kuyikorera undi, barahantu ni kuri kano gusa ahantu baje kuvoma bigaragara nkaho kubona amazi yaho bigoye, kuko urabona ko humye, gusa hari akazu gasakajwe bimeze nk'ibyatsi kandi kitaruye ahantu hegereye ibihuru byinshi no mu mpanga y'umusozi gusa abana baramwenyura ubonako bishimye.

Icyumba kirimo amarido y'ubururu, ndetse hakaba harimo n'ameza ateretseho impapuro, hakaba hicayemo abantu bagera kuri batanu, bose barimo bararebana, bakoze uruziga bigaragare ko barimo barajya inama ku kintu runaka.

Abagore babiri, umwe akikiye umwana undi wambaye itaburiya y'umweru arimo aramuha umuti mu gacupa, bigaragara ko ari umuganga arimo aramuvura, bari mu cyumba gifite urugi rw'icyasi rukinguye.

Umugore uteruye umwana ku bibero bye, yegereye umusore uri imbere ye afite isahani irimo ibiryo arimo aragaburira akana, bakikijwe n'abandi bantu benshi bahagaze, bisa nk'aho ari umunsi mukuru wo kwita ku bana.

Icyumba cyuzuyemo ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'ubururu, ndetse birimo n'abantu, abakobwa n'umugabo umwe bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'imikara, bafashe ku kapa kabari imbere kanditseho Unicef, umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Igihombo kinini kirimo kiramena amazi kiyavana ahantu kure, urabona ko ari amazi meza y'urubogobogo nubwo ahantu ari guturuka ubona ko hadasukuye neza cyane, hari umuntu rero urimo urayakarabamo, ariko icyo dushishikarizwa ni ukujya tureba amazi niba ameze neza mbere y'uko tuyakoresha, kuko biba ingenzi kandi biturinda indwara.

Umwana wambaye imyenda y'imituku hari ubukarabiro bw'amazi kuri robine ari gukaraba intoki, arakebutse ari kureba inyuma bisa nk'aho arimo arareba nka bagenzi be bamuri inyuma. Kuri iyo robine hari icyapa cya world visiom bigaragara ko ari ivomo ryubatswe vuba.

Aha ngaha hari umusore w'umuganga, nk'uko bigaragara yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru kandi biragaragara ko akiri muto, ari kumwe n'abandi bantu bari kumufasha, kandi hari umubyeyi yicaye imbereye, arimo aramufata amaraso yo mu rutoki, bisa nk'aho ari igikorwa cy'ubuvuzi arimo.

Aba ni abasore n'inkumi bambaye impuzankano y'imipira isa n'ubururu bwijimye, bambaye ingofero z'umweru ndetse bose bazamuye amaboko n'ibipfunsi, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kiriho magambo atari kubasha kugaragara neza, ariko uko bigaragara bakorera umuryango runaka ujyanye n'ibintu by'ubukungu, kuko ku mipira yabo harimwo amagambo yanditse ngo shora neza.

Aha ngaha urabona ko ari ahantu hegereye ikigo cy'amashuri kuko nkuko tubibona hari abana bahagaze bambaye impuzankano y'umuhondo, amashati ndetse n'udukabutura tw'umukara. Bahagaze imbere y'ahantu hakinguye urugi cyangwa gate ndetse urwo rugi mu muryango hahagazemo abantu b'abazungu babiri, ndetse n'abandi birabura batatu. Barimo barapepera nk'abari gufata ifoto y'urwibutso n'aba bana. Nko ku kigo cy'amashuri babasuye.

Aha ngaha turimo turabona abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, kandi ni mu cyumba gikwirakwiwe n'amafoto agiye atandukanye yashushanyijwe ku nkuta, imbere yabo hari meza y'umweru. Ndetse bahagaze nk'abarimo barafata ifoto y'urwibutso, inyuma hejuru yabo handitse amagambo agira ati: "Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu."

Umugore wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru n'utw'umukara duto cyane, bigaragare ko ariko yahinnye umupira, ku kuboko kw'imoso, hari umugabo wambaye uturinda ntoki mu ntoki dusa n'umweru, ndetse hagaragara ibice by'amaboko, bigaragara ko yambaye umwenda w'umukara, afite urushinge mu ntoki arimo aramutera, bisa nkaho arimo aramukingira indwara.

Aha ngaha hari abana benshi harimo abambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'undi wambaye imyenda y'umweru. Ni ahantu hari robine harimo haramanukira amazi ajyamo hasi nko mu kinogo kandi hari umwana umwe muri bo wambaye imyenda y'imyeru arimo aranywesha amazi ibiganza, bigaragara ko aba bana bavuye nk'ahantu bakaza guhita basura aho hantu kugira ngo banywe amazi.

Umugore urimo araseka cyane, bigaragara ko yishimye, yambaye ingofero iboshye mu budodo, akenyeye n'igitenge, ndetse inyuma ye hari inzu ifunguye n'umuryango, inzu ikaba iteye sima ndetse n'umucanga, yakandagiye kuri kandagira ukarabe, ikoze mu kavido ari gukaraba, bityo kunoza isuku ni ikintu cy'ingenzi.

Icyumba cyo kwa muganga, uko bigaragazwa nuko harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru, hirya hakaba hari ububati buri mu iguni ry'icyo cyumba, ndetse ku meza yaho ariho amakaye manini barimo barandikamo ibintu, basoma ku tuntu duto bafite.

Hano hari icyapa kirimo abantu batandukanye, abirabura, abazungu, abarabu ndetse n'abandi bo muri Aziya. Ndetse hari n'amagambo menshi yanditse mu nyuguti zitandukanye, hari n'ayanditse mu ibara ry'umweru yigaragaza cyane, avuga ngo ntagire n'umwe dusiga inyuma.

Abana babiri bagiye kuvoma, umwe afite ubujerekani bubiri, arimo aravoma undi arimo arakoresha icyuma agicunda kugira ngo kizane amazi, biragaragara ko bishimye.

Hano hari abantu abana babiri ndetse n'abantu bakuru babiri, umwana afite akajerekani mu ntoki arimo aravoma, undi n'umusore arimwo arapompa amazi ava mu hasi mu butaka bigaragare ko ari iriba rishyashya.

Ni ahantu hari abantu benshi, ni mu mbuga ndetse hari n'itente hirya gato hari n'inzu bigaragare ko kuva hari abantu batandukanye hari habereye nk'igikorwa runaka bari bakeneyemo abantu kugira ngo bagire inama rubanda.

Abantu benshi bahagaze bambaye amataburiye ajya gusa n'ubururu bweruye, imbere yaho hari umuntu wicaye ku ntebe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Inyuma yabo hari itente risa n'umweru, bari ahantu mu kibuga hitaruye.

Aha ngaha rero turi mu cyumba cyo kwa muganga, ariko bisa nk'aho ari aho bakirira abantu. Hari umugabo wambaye imyenda y'impuzankano y'ubururu n'undi wambaye ishati y'icyatsi hejuru, imbere ye hari mashine ya mudasobwa ndetse n'umubyeyi wegereye aho nyine ku meza babakirira, bose bisa nk'aho hari ikintu bari kwitegereza kugira ngo bamufashe.

Abantu bahagaze harimo abagore ndetse n'abakobwa ndetse n'abagabo, bahagaze ahantu hameze nko muri korodoro cyangwa se ahantu harombereje kandi bambaye amataburiya bamwe. Bameze nkaho ari abajyanama b'ubuzima ndetse n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yaho hari utwapa dutandukanye ndetse hari n'ako ndi kubona na kari mu mabara y'umuhodo ka MTN. Bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso kandi bose bambaye ubupfukamunwa. Bavuye mu bukangurambaga runaka.

Abana batatu bahagaze aho bavomera, hari n'uwa kane uhagaze ku ruhande afite inkoni ndetse yambaye n'agapira k'umutuku, undi nawe muri batatu arimo arapompa amazi, bigaragare ko arimo aravoma yishimye.

Abagabo babiri bambaye amakositime y'umukara basetse bishimye kandi barimo barakorana mu biganza, bari ahantu kuri sitegi ndetse imbere yabo hari n'intebe umwe yicaraho, bigaragare ko bari baje mu nama bakaba bayisoje maze barimo bararamukanya.

Hari umwana wambaye ishati y'amaboko maremare ariko yahinnye ndetse ipantaro y'umukara arimo aramwenyura. Ari kuri kandagira ukarabe bakoze mu ndobo y'umweru, bayitereka ahantu ku gatebe kazwi nka gatabureti, urabona ko uyu mwana yishimye kuba ari gukora igikorwa cy'isuku.

Umwana afite isahani mu ntoki hariho imboga arimo arasoroma, inyuma ye ibumoso hari umugore uhagaze witwikirije mu mutwe agatambaro k'umweru, bisa nk'aho barimo barizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imirire mibi.

Aha hantu ni mu cyumba. Harimo abantu batandukanye ndetse bicaye bakoze uruziga, hagati yabo hari imeza iriho impapuro. Barimo baraganira ku bintu bigiye bitandukanye. Bigaragara ko baje nko mu nama. Icyumba barimo kigiye kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'amarido y'umukara ari inyuma y'umugore usa nk'umuyisilamu witandiye mu mutwe.

Umugore wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ariko yahinnye, ndetse n'ijaketi, umuzungu ahagararanye n'abagabo bambaye imyenda hejuru y'ubururu, hari n'umwana wikoreye ijerekani, ndetse n'undi muntu hirya yabo wambaye ishati y'umweru, bigaragara ko abagabo bari kumwe n'uwo muzungu bagiye mu butembere bagahura n'uwo mwana bari kumubaza ibintu runaka.

Ahangaha turabona ikintu kimeze nk'ikiraro ariko cyakoze umuzenguruko gusa ntabwo ari irikiraro ahubwo ni ahantu haberamo ikintu runaka harimo igikoresho cy'imashini gitunganya ibintu runaka cyane yihitaruye hiryacyo hari inyubako ifite amadirishya menshi zegerana ari ubusitani bisa nkaho hano hantu hari uruganda rukorerwamwo ibintu runaka

Ahangaha turimo turahabona; kandagira ukarabe ikoze mu ndobo ijya gusa ni ikigina ndetse hari umwana wambaye impuzankano arimo arakaraba bigaragare yuko uyu mwana ari umunyeshuri kuko nyuma yahahandi bambaye impuzankano niyo yambaye, ari mu kigo cyitaruye kandi hari ibiti bitanga ituze n'amahumbezi ndetse n'ubusitani bukeya hirya yacyo.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe mu itente, imbere yabo hari umuntu wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, hirya hari abagore batatu bahagaze bafite imitaka, imbere y'iyo mbaga hicaye akana gato ndetse n'umugabo uhagaze imbere yabo uri kubabwira ijambo afite mikoro mu ntoki.

Umugabo yambaye amarinete n'umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, yateretse akana k'umuzani ndetse imbere ye hari terefone, inyuma ye hahagaze abandi bantu babiri.

Abantu bicaye hamwe ari benshi, hari abagore bateruye abana ndetse n'abagabo bambaye amataburiya y'umweru, udusanduku bisa nkaho turimo imiti kandi biragaragara ko abo bagabo bambaye amatara y'umweru baje kuvura cyangwa se gukingira indwara abo bantu.

Abana batonze umun ahantu hameze nko mu gishanga hari n'undi wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'akabutura k'ubururu afite ibikombe bibiririmo amazi ahagaze imbere y'ikizibagaragare ko arimo ashishikariza bagenzi be kujya banywa amazi meza apfu kumuhoza amazi mabi.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa arimo arakarabya umwana wambaye impuzankano y'ikigina, arimo aramukarabya n'isabune n'amazi bahererereye ahantu hari ibyatsi birebire.

Inyubakoteye irangi ry'ubururu ndetse imbere yayo hakaba hicaye abantu, bakoze uruzigace ku ntebe zirambuye, hakaba harimo n'umu daso wambaye imyenda y'ubururu, bose afite impapuro uko ari batatu, ndetse n'abandi bigaragara ko bari mu kanama, hirya yabo gato haparitse imodoka

Ikibuga cyateraniyemo abantu benshi, hirya inyuma yabo hari inzu n'itente bamwe barimo, iburyo bw'iyo nzu hari imodoka, abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, bisa nk'aho bari baje mu birori.

Abagore babiri bose bakikiye utwana kandi bose bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ak'ubururu uw'inyuma yambaye agapfukamunwa k'umukara. Bicaye ahantu hamwe mu cyumba bisa nk'aho bagiye gukingiza abana.

Umugabo ubona ko yishimye cyane, yambaye ishati irimo imirongo y'umweru n'umukara, ndetse yambaye ipantaro y'umukara, yaje ahantu ku ivomero, afite ijerekani isa n'umuhondo, arimo aravoma amazi, birasa nkaho ariwe wenyine yisanze ku ivomo.

Abagore bari mu cyumba bose barahagaze bateze amaboko, nk'abari kubyina imbyino gakondo, icyumba barimo giteye irangi y'umuhondo ndetse barishimye bizihiwe.

Abantu benshi bicaye ahantu mu mbuga hari pasiparumu ariko zisa n'izapfutse zumye, ndetse n'abashinze udutabe bicayeho. Hari ahantu mu mbuga hari itente ndetse hari n'inzu n'imodoka iparitse imbere y'iyo nzu. Bisa nk'ahabaye ikintu kimeze nk'ibirori byihariye runaka.

Umubyeyi ubona ko ari mu zabukuru ariko avuye kuvoma amazi, yikoreye ijerekani isa n'umuhondo yayibangiye n'ingata, hari ubwana butoya bumuri imbere ndetse ahantu bari hari inyubako isa nkaho itaruzura cyangwa se imeze nk'isoko, umukecuru arimo arataha.

Aha ngaha hari ikidendezi cyangwa se ahantu hari amazi menshi, bisa nkaho ari ikiyaga ariko nanone ntabwo aricyo ahubwo ni ahantu hameze nko muri ruhurura harimo amazi aretse, abana rero barimo barahoga bose bambaye ubusa, ariko nanone si byiza ko abana bajya mu mazi yose babonye kuko bishobora kubatera indwara.

Abagore babiri bahagaze bose bateze ibitambaro mu mutwe, bateruriye umufuka urimo ibyo kurya, bari kuwuhereza umugabo uhagaze hejuru y'indi mifuka, bigaragara ko arimo arayegeranyiriza ahantu hamwe.

Hano hari inzu nini cyane ubona ko imeze nk'inzuberabyombi harimo abantu benshi bicaye bakoze akavunge cyangwa se uruziga hari n'abandi bagiye bicaye hirya batandukanye harimo n'intebe nyinshi, buri wese afite ibipapuro mu ntoki arimo arasoma ndetse akabyuzuza, bisa nk'aho ari igikorwa bajemo nk'inama cyangwa se n'ikindi kindi kitari inama.

Urugo ruri ahantu kandi uko bigaragara ahantu ni mu cyaro. Ruzengurutswe n'imiyenzi, ni yo ikoze igipangu, hateye n'insina mu rugo, kandi mu mbuga ni igitaka. Hari agatanda rero bakoze k'amaguru ane, bubikaho amasani mu buryo bwo kugira ngo babyanike kuzuba maze ridakwirakwiraraho umwanda.

Abana bambaye impuzankano imwe isa n'ikigina barimo barakaraba intoki ku rukarabiro, abandi babari inyuma na bo barimo baraza gukaraba, mugenzi wabo umwe arishimye arimo arapepera bigaragare ko bari mu gikorwa cyo kunoza isuku.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zigiye zitambitse, harimwo abasheshe akanguhe ndetse bafite amakayi mu ntoki zabo barimo barandikamo cyangwa se barimo barasomamo ibintu bitandukanye, bose barimo barareba imbere yabo bigaragara ko hari umuntu uri kubaha amabwiriza.

Ahangaha rero hari umwana w'umuhungu ari koza akantu mu ndobo isa n'ubururu ndetse hari n'undi mwana umuhagaze imbere afite akabinika bisa nkaho amaze kumusukiramo amazi. Bari ahantu ha bonyine, inyuma yaho hari inzu ihomesheje ibyondo n'agasima ku rugi rukinze

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi bicaye ku ntebe zitonze umurongo kandi hari n'undi usa nk'ubuhagazemo hagati umumama wambaye agakote k'umukara, arimo arababwira imbwirwaruhame, imbere ye hari imeza iteretseho ibikapu byinshi.

Hano hari icyumba kigari kandi cyisanzuye harimwo abantu bicayemo benshi bambaye imyenda; imipira yo hejuru irasa n'ubururu ndetse bicaye ku matapi cyangwa ku mikeka, aba bantu rero ni abana nibo biganjemo gusa ndabonamo undi muntu w'umuzungu ndetse n'abandi basore bari ahantu mu iguni begereye ahantu hari ameza ateretseho ibirahure bisa nk'aho ari igikorwa cyamahugurwa bari guhuguramo abana.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, abakobwa bambaye impuzankano isa n'ubururu ndetse abana bambaye impuzankano isa na kaki, bicaye mu ishuri barimo barareba amasahani ariho ibiryo bigaragare ko bishimimye kuko barimo baramwenyura.

Icyumba kirimo abantu bambaye impuzankano z'ubururu ariko zijya gusa n'icyatsi kijimye. Harimwo abagabo ndetse n'umugore w'umuzungu, bose bambaye udupfukamunwa bambaye n'utugofero nk'utw'abaganga. Hari abantu rero baryamye ku gitanda bigaragara ko ari abarwayi, bisa nkaho ari aho bakorera ibikorwa byo kubaga.

Abantu batatu bicaye ku ntebe ndetse bigaragare ko babiri ari umugore n'umugabo. Umugabo afashe umugore ku rutugu, ndetse n'ukuboko kw'ibumoso gufashe ku nda. Hari undi muntu wicaye ku ntebe arimo arabareba bisa nkaho ari umujyanama w'ubuzima, arimo arababwira icyo umugore utwite akwiye kurya kugira ngo abyare umwana umeze neza.

Iki ngiki ni icyumba kihariye kirimo abantu bicaye bisa nkaho bari mu nama, kuko bakoze uruziga maze bazenguruka ameza; hari ibikoresho bigiye bitandukanye nka za mudasobwa ndetse n'udupipiri tw'amazi yo kunywa, bisa nk'aho hari uwo bahaye ijambo arimo arababwira icyo bakora...

Abana bane bagiye ku iriba, batatu muri bo barahagaze, babiri barimo bararebera urimo aravoma uko ari kuvoma, umwe ahagaze areba imbere afite n'inkoni mu ntoki, inyuma yaho hari ikibuga giteyemo ubusitani.

Abasore babiri ubona ko ari barebare, barahagaze barimo bararebana, bambaye umupira gusa n'ubururu, ndetse bambaye ishati ijya gusa na kacye, bari ahantu hari abandi bantu benshi, hari ibintu barimo baraganiraho kuko bari kubirebana, umwe ari kuvuga.

Abana ni benshi bahagaze ahantu hari utujerekani n'amavido manini abateretse imbere, hari n'abakuru ndetse ahantu baje ni ku iriba, ariko ni ryariba nyine riba ririho amazi amwe ajya mu ivudo ari uko babanje gupompa kugira ngo ave mu butaka. Umwe arareba hepfo bisa nkaho hari ikintu barimo baritegereza.

Aha ngaha hari abantu bagiye batandukanye. Gusa uko bigaragara ni ababyeyi. Buri wese akikiye umwana ndetse bicaye ku ntebe itambitse kandi batonze umurongo. Begamiye inzu yubakishije amatafari ahiye. Arimo uturongo tujya gusa n'umweru tw'uturangi ndetse tw'uturangi tw'umukara. Abantu baje kwa muganga nko gukingiza.

Icyumba kimeze nk'inzu mberabyombi, ahantu hicaye abantu benshi. Bambaye amakositime, barimo barareba imbere hicaye naho abandi bantu bagera muri batandatu. Abagore n'abagabo. Ndetse imbere yaba bantu hari ekara, iri kunyuraho umuntu uri gutanga imbwirwaruhame. Bisa nkaho ari umuryango ushinzwe kwita ku buvuzi.

Ahantu habereye inama runaka, turimo turahabona abantu bambaye amakositime, ay'umukara, ndetse n'ajya gusa na kake. Ndetse hari n'umugabo w'umuzungu urimo uravugana n'undi wumwirabura, barimo barakorana mu biganza, bisa nkaho baherukanaga kera.

Abagore batatu bunamye bose babiri bambaye ubupfukamunwa ndetse imbere yabo hari amajerekani, bari ahantu barimo barakaraba intoki, bigaragare ko barimo barataha nk'ivomo rishya rimaze iminsi ryubatswe.

Umugore ari kumwe n'umugabo. Umugabo yambaye itaburiya ijya gusa n'ubururu ndetse umugore akenyeye igitenge n'agapira kajyaa gusa n'umweru begereye inzu ikinguye idirishya ifite fondasiyo yubakishije amabuye. Umugabo afite akapa kariho ibishushanyo, igishushanyo cy'umwana w'umukobwa n'icy'umwana w'umuhungu bisa naho ari ikintu ari kumwereka runaka baziranyeho.

Abana batatu barimo barakaraba bafite isabune mu ntoki ndetse bambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo hari uturobine dutatu turimo turavamo amazi bigaragare ko barimo barakaraba kugira ngo birinde indwara zandurira mu mwanda uturuka mu ntoki.

Ahantu hazengurutswe n'abantu benshi, batandukanye, biragaragara ko ari ivomero rishyashya, kuko baje kuritaha, abana bazanye indobo z'imihondo ndetse hari n'umuntu warurimo arokora ayo mazi, yambaye ingofero imwe y'abakozi bakora mu by'ubwubatsi.

Ahangaha ndimo ndahareba umugore barimo baratera urushinge, ndetse uri kumutera urushinge yambaye, ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa. Umugore na we yamba agapfukamunwa uwo bari gutera urushinge, ubona ko atinya ushinge kuko, yipfutse yashinyirije. Inyuma ye hahagaze umugabo wambaye ishati y'utudomodomo bisa nkaho ari uwamuherekeje.

Umusaza wicaye ku ntebe ubona ashaje cyane yambaye ikote ndetse n'ingofero bijya gusa umutuku, umuntu amuziritseho cya gikoresho gipima umuvuduko w'umutima uko utera, umuganga aza akikijwe nabandi bantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu bakaba bari mu gikorwa cyo gupima indwara zitandura.

Aha ngaha hari abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako zubaki amatafari ahiye ndetse asakaye hejuru hanameze nko mu kayira banyura muri korodo, bamwe ni abaganga bambaye impuzankanga ya kiganga ndetse hari n'abandi bitandiye barimo barafata ifoto y'urwibutso mu gikorwa runaka bajemo cyo kurwanya indwara runaka.

Umwana wambaye umupira usa n'ubururu harimo imirongo y'imikara afite isabune mu ntoki, hari umuntu urimo aramusukira amazi akoresheje ijage isa n'icyatsi kibisi.

Abagore batatu bari ahantu hitaruye ndetse ni kuri kano aho bavoma amazi, babiri bafite icyuma barimo barapomba amazi ndetse undi na we yatezeho indobo iri mu kindi kimeze nk'igisafuriya arimo aratega amazi.

Icyumba gituje kandi harimo abantu bake. Harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'undi wambaye ikoti rijya gusa n'ikigina. Bateretse udupuri tw'amazi ku meza imbere yabo hamwe n'ibitabo. Inyuma yabo hari icyapa cyanditse mu mabara y'umweru. Bigaragare ko ari Igihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Kuko harimo n'idarapo.

Aha ngaha ndahabona abantu benshi bicaye, bambaye imipira y'umweru, kuko ni cyo kintu bahuriyeho ndetse hari abicaye ndetse n'abahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru, cyanditse amagambo ngo RBC, ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima, bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba bakikije ameza, imbere y'ameza hari umugore uteze igitambaro yambaye n'ishati isa n'umuhondo arimo arigera ijipo y'ubururu, ari mu cyumba gitatsemo amabara y'ibishushanyo by'abana n'iby'inzu ndetse n'iby'ibiti.

Icyapa gifite amabara y'umweru ku mpande, ariko nanone kikaba kirimo ikirangantego cy'Umuryango Mpuzamahanga Ushinzwe kwita ku mibereho myiza y'Abana ku Isi wa UNICEF, rukaba ari kiri ibara ry'ubururu harimo umubyeyi uteruye umwana.

Icyumba kiza kirimo amarido, harimo abaganga babiri bambaye imyenda isa n'ubururu bweruye, ndetse n'udutimba mu mutwe, n'uudupfukamunwa, hari umukobwa wicaye, bamushyize imashini ipima umuvuduko w'amaraso ku kuboko, ku meza hari computer, bigaragara ko bari kureba uko ubuzima bwe buhagaze.

Abagore babiri bicaye ahantu mu biro, bafashe n'ibiganza byabo kumeza, uri iburyo yambaye ikote ririmo utubara ndetse n'umupira usa nk'umukara mo imbere, uri ibumoso yambaye ikanzu irimo amabara y'indabo kandi ateze n'igitambaro cy'umuhondo. Inyuma yabo hari amabendera asa ubururu.

Abantu benshi bafunguye ku ivomo robine eshatu, ndetse bigaragara ko baje kuvoma, kuko hari abafite indobo mu ntoki z'umuhondo, ndetse n'undi muntu bigaragara ko yari yaje gukora amazi, kuko yambaye kasike mu mutwe y'umuhondo, igaragaza akazi akora.

Hano hari robine ifite ahantu bavomera habiri cyangwa se impombo ebyiri, hari abantu babiri barimo baravoma, umugore n'umugabo kandi nkuko tuhabona hakikijwe n'ishyamba, bisa nkaho ari ahantu mu cyaro abantu baza kuvoma batuje.

Icyapa kirimo abantu bambaye impuzankano z'imipira iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'abambaye imipira isa n'umukara. Icyapa rero cyanditseho ijambo unicef cyangwa umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Bateraniye ahantu hamwe, bose barimo barareba mu kerekezo kimwe. Hari mubyeyi ubicaye imbere akenye igitenge n'umwitero usa n'umuhondo ndetse n'utubara tw'umukara, hari abana bamuri inyuma barimo barareba nawe mu kerekezo ari kurebamo bigaraga ko bishimye.

Umugore uteruye umwana ahagararanye n'umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, ibumoso bw'uwo mugabo uhagaze hicaye umugore akikiye akana arimo arakonsa, hejuru yabo hari umunzani bigaragara ko barimo barapima abana ibiro.

Aha ngaha turimo turahabona abantu benshi harimo n'abazungu, ndetse hakaba n'utundi twana duto twambaye imyenda y'impuzankano isa n'ubururu ndetse n'amashati y'umweru, bari mu cyumba cyiza kandi cyitaruye. Bigaragare ko aba bana basuwe n'aba babyeyi babo bari kubafasha nko mu bikorwa runaka.

Abasore ndetse n'inkumi, ubona ko ari abajene, bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye n'amashati y'imikara, ndetse bafite n'amakarita y'akazi bayambaye mu ijosi, bigaragare ko ari abaganga barimo barimenyereza umurimo w'umwuga, kuko birasa nkaho bitabiriye igikorwa cy'amahugurwa.

Aha ngaha rero ni ahantu hitaruye kandi hatandukanye n'ahandi, kuko urabona ko hegereye ku mbuga ahantu habera igikorwa nk'icyo gusarura imyaka runaka, kuko hari abagabo barimo bararundanya imifuka irimo ibintu runaka, ndetse hari n'abagore babiri bafatanye imifuka bakiriya aba bagabo ngo bayipange neza.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi ndetse bakaba ari benshi bose bahanze amaso ku bandi bagera kuri batandatu bicaye imbere, ndetse imbere hari n'ekara cyangwa se tereviziyo irimo iranyuraho ishusho y'uri gutanga imbwirwaruhame, imbere ku cyapa gihari kiriho inyuguti z'umweru, bigaragara ko ari uguteza imbere ubuvuzi.

Aha ngaha rero, bigaragare ko ari umunsi mukuru w'abaganga, wabereye ahantu runaka. Kuko ni abaganga bambaye impuzankano y'amataburiye ajya gusa n'ubururu ariko atari ubururu, ndetse imbere yabo harimu umugabo wambaye kositime w'umuzungu, bamwishimiye bari kumukomera amashyi, basa nkabari kumusezeraho.

Imodoka ndende cyane ikururana ipakiye ibintu byinshi, inyuma kuri ibyo bintu hateyeho ibyapa biri mu mabara y'umweru n'ay'ubururu, bigaragaza umuryango Mpuzamahanga wita ku mirire WFP, imbere y'iyo modoka hari indi modoka ntoya isa nk'aho irimo irayirangira inzira.

Umubyeyi ubona ko afite imirimo myinshi yo gukora, arimo aroza umufuniko w'indobo, awogereza mu ndobo yegereye ahantu hari amazi, uruhombo ruyazana ruyavanye mu butaka amwe bapompa, kandi ahetse n'umwana mu gitenge; urabona ko imirimo yamubanye myinshi...

Aha ngaha turabona icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, harimo ababyeyi ni bo biganjemo bahetse abana, ndetse n'utwana duto turimo turarebera, hari urupapuro buri wese ari kugenda asinyaho cyangwase yiyandikaho, hakaba n'umuntu wambaye impuzankano y'icyatsi arimo arabarebera, abereka uko babigenza, bisa nk'aho ari kwa muganga.

Iki ngiki ni icyumba cyihariye kandi gifite umutekano wihariye. Iki cyumba kirimo abantu bicaye barebana ndetse bagabanywa n'imeza ebyiri kandi izo meza ziriho twa tumikoro dukoreshwa mu biro nko mu nama, harimo idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda yo mubara y'ubururu n'icyatsi n'umuhondo. Undi mugabo uri kubabwira ijambo runaka.

Abakobwa babiri bahagaze, bambaye imyenda y'ubururu ndetse iburyo bwabo hari amagambo ahanditse arimo araranga urubuga bakoreraho runaka bigaragare ko batangirayo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba, icyo cyumba bisa nkaho ari ikiberamo inama, ku meza yabo bakikije hateretseho imashini za mudasobwa, ndetse n'uducupa tw'amazi, n'utwa fanta, umugore umwe ubari hagati afite indangururamajwi, bisa nkaho arimo aratanga ijambo.

Iki ni icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imipira b'abasore, ariko imipira irasa n'umukara yose, ndetse hari abandi babicaye imbere, ariko kuko abantu bose bari muri iki cyumba barimo baritegereza imbere, bisa nkaho hari umuntu bakurikiye urimo arabagezaho imbwirwaruhame.

Abantu benshi bahagaze, abambaye amakoti ndetse n'amapantaro, abandi bagore bambaye amajipo, bahagaze imbere y'inzu ifunguye imiryango, imbere aho hari icyapa cy'ibintu bijyanye n'ubuvuzi. Bigaragare ko barimo barafata ifoto y'urwibutso, kuko bose barimo barareba imbere mu cyerekezo kimwe.

Umugabo afite mikoro afite n'urupapuro ari gusoma, ibumoso bwe hari abantu bambaye impuzankano y'umukara igipolisi cy'u Rwanda, afite icyapa kiriho ibirangantego bibiri bitandukanye, inyuma yabo hari abantu bambaye imipira y'icyatsi kibisi.

Aha hari abana benshi bicaye ahantu hamwe bari mu rungano, bigaragara ko ari mu myaka isa n'ingana ndetse hari umukecuru ubicayemo hagati ubona ko ababaye ndetse abantu ubona ko bumiwe bisa nk'abafite imibereho itari myiza mu buzima bwabo.

Hano hari umukecuru ubona ko yamwenyuye, kandi yambaye imyenda ikoze mu bitenge kuva hasi kugera mu mutwe, arishimye, inyuma ye hari abandi bantu batari kugaragara neza gusa bigaragara nuko asa nkaho bari bamushyigikiye, bamukoreye nk'ibirori runaka.

Aha ngaha turimo turabona umugabo uhagaze wambaye ishati y'amako magufi irimo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru, yambaye n'ipantaro ya kacyi, yamwenyuye, ahetse n'igikapu, ahagaze inyuma y'igipangu gisa nk'ikizengurutse gusa mu imbere ntabwo inyubako irimo tuyibona, hafiye hari icyapa cyantseho ngo aha ngaha ni ahantu bavura indwara zo mu mutwe, Karayesi-Indera.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bamwe bicaye kuntebe y' imbere abandi bahagaze inyuma, barimo barafata ifoto, bigaragara ko ari ifoto y'urwibutso, kobaribaje nko munama runaka. Inama ikaba iterwa inkunga n'imiryango igiye itandukanye harimo na kaminuza y'igihugu cy' u Rwanda nk'uko bihagaragara mu birangantego bihari.

Umugore wambaye ijire y'umuhondo ndetse arimo araseka. Umugore w'umwirabura ari ahantu bigaragara ko ari aho acururiza hagiye harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibirungo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aha ngaha hari imbuga igiye irimo intebe nyinshi ndetse hagiye hari abaganga, buri muganga yicaye ukw'iwe kandi hari umuntu wagiye umugana ngo amubwire nk'ikibazo afite, cyangwase baje nko gukingira indwara runaka, bigaragare ko hari gahunda y'igihugu yashyizwe kugira ngo iki gikorwa kigerweho.

Aha ngaha ndimo ndahabona icyumba kinini kimeze nk'inzu mberabyombi, harimo abantu bicaye ku ntebe bagiye batandukanye, imbere yabo hahagaze umugore bagabanywa n'imeza, arimo arabagezaho imbwirwaruhame. Inyuma y'uwo mugore naho hari indi meza iri kugabanya we n'abandi bantu bicaye na bo bameze nk'abari kumutega amatwi. Bigaragare ko baje mu nama.

Icyumba gitoya ariko kitari gito cyane kirimwo abantu batatu, abagore babiri bateruye abana se n'undi afite udukoresho ku meza harimo nka telefoni bigaragara ko hari umwe urimo arabagira inama y'uko bakwita ku bana babo.

Aha ngaha turahabona inyubako, mu buryo yubatsemo urabona ko itonze umurongo irambuye, isize irangi ry'umweru hose, kandi ifite n'amadirishya ajya gusa n'umuhondo abonerana. Ikindi kandi hazengurutswe inyuma yayo n'ahantu hari ubusitani. Maze hari n'ibyapa bihari byanditseho ngo:"Urakaze neza ku bitaro by'Akarere."

Umubyeyi uteruye umwana, umwana ukiri mutoya ubona ko arimo araseka, uwo mubyeyi nawe arimo aramureba mu maso bigaragare ko yishimiye kuba yarungutse umwana mu muryango, ari ahantu hitaruye hegereye inzu yubakije amatafari ahiye.

Abakecuru batatu bahagaze ahantu hamwe gusa ntabwo bakuze cyane, harimo umwe ubari imbere ateruye umwana amuhagatiye mu rubavu, bose bafite ibisheke mu ntoki, bari ahantu hitaruye hari imisozi, hasa nk'aho ari ku gahinga hadaturiye amazu y'abantu.

Aha ngaha turi mu mbuga, hari jaride ubona ko abantu bakunze kuzigendamo kenshi ariko ntizitohe gusa zirasa neza. Hari abantu bagiye bicaye ku dutebe buri babiri babiri, bigaragara ko umwe aba ari kumwe n'umuganga we arimo aramusobanurira uko ubuzima bwe buhagaze. Hari imodoka nini kandi iteye irangi ry'umweru iriho n'ikirangantego cy'u Rwanda. Handitseho amagambo ngo:"Ivuriro rigendanwa cyangwa se ryimurwa ryita ku ndwara zo mu mutwe."

Abantu benshi barimo abambaye imyenda y'ibitenge, idoze mu bitenge. Bari mu nzu, inzu ubona ko ari nk'igorofa. Bamwe barimo barakoma amashyi bazengurutse ameza ariho uducupa turimo amazi, bigaragare ko baje nko mu munsi mukuru banezerewe.

Aha ngaha hari umugabo wicaye kandi utuje, yafashe intoki yazihuje, yambaye isaaha ku kuboko kw'imoso, kandi yambaye n'ingofero y'urugara, ahetse n'igikapu, gusa uko bigaragara ibitekerezo bye biri kure, ibumoso bwe hari amagambo yanditse ngo, burya ubuvuzi bwita ku ndwara zo mu mutwe ntabwo ari iz'abantu cyangwase ntabwo ari ubw'abantu bafite ibibazo gusa, buri wese yabujyamo.

Aha ngaha hari abantu begereye inyubako batandukanye, gusa bahagaze mu buryo batonze umurongo, kandi barimo barareba mu cyerekezo kimwe, bambaye amakositimu ndetse n'imyenda igezweho. Kandi barimo barafata ifoto y'urwibutso, bisa nk'aho bari bavuye mu nama runaka.

Umukobwa wicaye ahantu hamwe, hatuje kandi hameze neza; yambaye agasengeri gasa n'umutuku, ndetse akandi mo imbere gasa n'umukara, kameze nk'ikanzu. Inyuma ye hari inyubako, isize irangi ry'umuhondo. Yasetse yanezerewe.

Hano hari umugabo utari kugaragara neza ahandi hose ariko igice kiwe runaka cy'isura kirimo kiragaragara, uyu mugabo yarakaye, kandi afite n'agahinda kenshi, arimo ararira, ijisho rimwe ry'iburyo ndetse n'amarira yatembye, bisa nkaho hari ikibazo cyihariye ashobora kuba afite.

Imbere yanjye ndimo ndabona umugabo ukenyeye ikintu kimeze nk'igitambaro cyangwa se kimeze nk'igitenge. Ari mu kazu gasa nabi, kandi hashashe hasi ibintu yicayeho na byo bisa nabi, urabona ko inzu yicayemo yahomotse, kandi yifashe mu mutwe, urabona ko ibitekerezo byamubanye byinshi, ashobora kuba afite ikibazo kidasanzwe kuko ndabona yiziritse n'amaguru.

Inyubako nini ndetse irimo abantu benshi bambaye mu buryo bugiye butandukanye, harimo ameza maremare ari mu ibara ry'umuhondo asize verine ndetse na parafo isa neza ijya gusa n'umuhondo, bari ahantu hamwe bameze nka bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abana bahagaze ahantu hegeranye hamwe hari ibyatsi byumye, hejuru yaho hari ibiti bitambitse bigaragare ko bagiye kuvoma ku mugezi kuko bafite ubujerekani mu ntoki.

Umugore wicaye ku ntebe, imbere ye hari umusambi, ari mukizu gishaje inyuma cyahomotse, gifite n'idirishya rishaje ariko rirakinguye, bisa nkaho ari kure cyane mu bitekerezo, wagira ngo hari ikibazo afite ari gutekerezaho.

Icyumba kirimo i ame ndetse n'intebe byinshi hari abantu bahagaze inyuma batabasha kana amasura hari n'akana kambaye impuzankano y'umweru nubururu bwijimye ndetse gasusa n'imisatsi kamo kaseka akarya igisuguti.

Iki ni icyumba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, aba abantu bose bicaye ku ntebe zimeze kimwe kandi z'imikara, imbere yabo hari imeza ndende n'inyuma yabo hari imeza ndende ndetse hari n'abandi bahicaye, bigaragare ko ari mu cyumba cy'inama, hari umusore uhagaze imbere yabo wambaye ikote arimo arababwiriza ibintu, bigaragara ko ari we bakurikiye.

Abagore babiri bicaye ku ntebe, uwicaye iburyo yambaye imyenda y'imikara, umupira w'amoboko maremare n'ipantaro, afite ikaramu mu ntoki n'ikayi ku bibero, afashe ku rutugu uwifubitse igitambaro gitukura, bisa nk'aho arimo aramugira inama, kuko amufashe ku rutugu, inyuma yabo hari ibiti by'imyase byegetse.

Aha ngaha turahabona inzu ubonako iteyeho irangi ryari umweru ariko na none risa nk'irishaje, hari umugore wicaye witandiye agatambaro mu mutwe kandi yicaye ku ntebe imwe irambuye, urabona ko ari kure mu bitekerezo bisa nk'aho afite ikibazo runaka kimukomereye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare isa n'ubururu bwijimye, arimo arareba imbere yamwenyuye bigaragara ko yishimye, inyuma ye hari abandi bantu benshi batagaragara neza bisa nk'aho baje mu munsi mukuru wo kwizihiza isabukuru runaka.

Hano ku muhanda hari umugabo wicaye wenyine, yegamiye igikuta kirekire, ubona ko ari ik'inzu ishaje isize irangi ry'umuhondo ariko naryo ryashishutse, uyu mugabo rero yambaye imyenda yacikaguritse, afite n'ibintu bimeze nk'amashashi arimo amazi mu ntoki ze, yitangiye itama bigaragara ko ababaye kandi afite n'ikibazo cyo mu mutwe.

Ikirangantego gisize amabara arimo ubururu n'ayumweru, ndetse n'amabara atukura, munsi yacyo hari inyuguti zitandukanye, isobanuye ko ari ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cyu'u Rwanda gishinzwe kurwanya indwara zo mu mutwe.

Abantu batatu harimo abakobwa babiri ndetse n'umubyeyi umwe bose bambaye udupfukamunwa, bicaye ahantu hitaruye hari imbuga, ubona ko ari umuhanda ndetse n'ahantu h'igitaka hari ivumbi, hepfo yabo kure hari utuzu twinshi tw'ibigonyi cyangwa se twubakishije ibyatsi.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi ndetse afite n'umusatsi mwinshi, afite ibishishwa by'imineke mu ntoki, ahagaze mu muhanda biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, kuko yambaye imyenda yacikaguritse.

Uyu mugabo nk'uko tumubona urabona ko yerekanye amenyo ye cyane, urabona ko ari umugabo w'umujeni usa neza kandi wishimye. Rero afite ka kagozi gatangwa no kwa muganga cyangwa se ahandi bagakura muri farumasi kugira ngo ujye ukanyuze hagati y'amenyo maze ukuremo imyanda iba yarahezemo uburoso butabasha gukuramo neza.

Umuganga yambaye uturindantoki, yambaye ndetse n'itaburiya y'umweru, afite ibyuma bisuzuma ndetse bikanakura amenyo mu ntoki, yasamishije umwana arimo aramurebera ku ijigo ry'ibumoso niba iryinyo ririyo nta kibazo rifite.

Inyubako ndende y'igorofa ifite ibirahure byererana ndetse hejuru hari n'ibindi biyikikije hejuru bisa icyatsi kibisi, hasi korutire yayo yubakije amatafari y'impunyu ahiye bigaragare ko ari inyubako ya kampani itera inkunga Afurika.

Umugabo uhagaze, yambaye agapira gasa n'umweru. Yasamye afite akadodo gatoya arimo aragenda anyuza mu menyo kugira ngo akuremo nk'imyanda iba yasigayemo. Bigaragare yuko arimo asukura amenyo ye kugira ngo atazagira uburwayi.

Uyu ni umusore ubona ko afite ibigango kandi anabyibushye, arishimye kuko urabona akamwenyu mu maso ye, afite urudodo umuntu ahabwa no kwa muganga maze akaba yarukura ahandi muri farumasi, rumwe babanyuza mu menyo hagati y'umwanya w'iryinyo n'irindi kugira ngo ukuremwo imyanda yahezemo bityo amenyo yawe agire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye ga zisa n'umweru mu ntoki, afite igikoresho gisuzuma amenyo, imbere ye hari umwana wamuhangaje amaso yasamye, arimo arareba ko nta menyo ye afite ikibazo.

Abaganga babiri harimo uw'umugore ndetse n'uw'umugabo bose bambaye uturindantoki dusa n'umweru kandi bambaye n'amarinete. Bose bambaye udupfukamunwa. Hari umwana rero ubaryamye imbere, bamugaramitse barimo baramureba mu kanwa ngo barebe ko hari ikibazo ashobora kuba afite.

Umugabo ndetse n'umugore bose biragaragara ko ari abaganga bafite umwana barimo baramwasamisha ngo bamurebe mu kanwa, hano bari ku meza hari impapuro z'umweru ndetse n'ikaramu, hanyuma inyuma yabo hari ibishushanyo by'abantu basetse bigaragara ko amenyo yabo yitaweho.

Umukobwa mwiza ufashe aka gakoresho kwa muganga batanga, kariho akadodo umuntu ashobora gusukuza amenyo ye, hano hagati y'amenyo mu myanya n'indi, yashinyitse amenyo arimwo aragakoresha. Burya rero, isuku y'amenyo ni ikintu cy'ingenzi kuko uyafite asa neza, agaragara neza.

Umwana aryamye ku buriri bwiza hameze nko mu cyumba cyo kwa muganga n'igitanda cyo kwa muganga kubera yuko hari umuntu uhagaze hejuru yambaye uturindantoki ariko ntabwo agaragara agaragaza ibiganza gusa, afite ibikoresho byabugenewe arimo aramurereba mu kanwa yamenyo ye nta kibazo afite.

Umugore ufite imisatsi isutse ndetse hari n'undi ufite imisatsi isutse na we, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru ndetse n'uturindantoki n'agapfukamunwa, ku ntebe yicayeho imbere hari imeza iriho impapuro ndetse n'ikaramu. Arimo aramurebera mu kanwa. Bigaragare ko ari kureba ko nta ryinyo ryari rifite ikibazo. Hirya yabo hari abandi basore bicaye bari kwandika mu gitabo.

Umugabo aje ahantu mu cyumba giteye irangi ry'umweru, yambaye ubusa hejuru ndetse asa nk'uwasamye, afite akagozi arimo acisha mu menyo. Ni kamwe kwa muganga batanga, gasukura amenyo gakuramo imyanda mu myanya y'amenyo, arimo arireba mu ndorerwamo.

Iki ngiki ni igikoresho kiri ahantu mu nzu hitaruye hasa neza, hasa n'umweru kuko hateyemo irangi ry'umweru, iki gikoresho rero ni icy'umuntu yicaraho arimo arananura ibice bye by'umubiri, ibikoresho ahantu bikunze kuba ni kwa muganga.

Umusore bagaramitse ku gitanda arasanye, hari umuganga w'umuzungu, afite ibikoresho byabugenewe, bisa nk'aho arimo aramukura amenyo yagize ikibazo, hari n'undi uhagaze ku ruhande arimo aramurebera, bisa nk'aho arimo aramwereka amenyo agifite ikibazo, ngo ayakuremo.

Icyumba cyo kwa muganga, bigaragare ko hari umuntu wasamye barimo baramurika mu kanwa n'agakoresho kabugenewe kamurika mu kanwa, ngo barebe ko nta kibazo afite mu menyo, cyangwa se nta kibazo afite mu buzima busanzwe nko mu kanwa, abarimo barabikora ni abaganga babizobereye, kuko urabona ko babikora kinyamwuga.

Abana bambaye impuzankano zisa n'ubururu, bose bafite uburoso barimo bariborosa. Bigaragare ko ari nk'ahantu babahuje hamwe, barimo barabigisha uburyo bakwita ku isuku yo mu kanwa, kuko bose babyitabiriye.

Aka ni akana gato, ariko aka kana urabonako kagira isuku, kasetse ndetse kari kwerekana amenyo yako, gafite uburoso mu ntoki buriho korogati, ndetse aka kana kagiye kwiborosa, bisa nk'aho kari gutanga urugero rwiza rw'uko umwana akwiye kwitwara, kwita ku isuku y'amenyo.

Igishushanyo kigaragaza uko igice cy'umutwe cy'umuntu giteye, uko tubibona bagaragaje igikanka cy'amenyo yo hasi ndetse n'ayo hejuru, ndetse n'ahagana hejuru ku minwa, ndetse n'aho amazuru afatiye gusa. Ni igice cy'amagufa kiri kugaragara nk'uko nyine babigaragaje ku gishushanyo.

Umugore wicaye ahantu mu cyumba harimo ibikoresho nkibyo mu rwogero, yicaye ku ntebe arimo arireba mu maso afite n'indorerwamo, yambaye itaburiya ijya gusa n'umweru ndetse n'agapira k'amaboko maremare karimo uturongo.

Umwana mutoya ushimishije, yateze akantu kameze nk'urugori mu mutwe, yicaye ku ntebe isa n'ubururu, yambaye agakanzu gasa n'agapira k'umweru mo imbere, maze afite uburoso mu kanwa, arimo ariga koza amenyo, bigaragaza ko uyu mwana barimo baramutoza kujya yigirira isuku yo mu kanwa.

Umukobwa mwiza cyane ufite inzobe ari ariko atari cyane, yambaye ubusa hejuru yagize igishushanyo k'ikiganza, bigaragaye ko ari nk'ikimenyetso arimo aratanga yamwenyuye biragaragara ko yishimye.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse afite n'ibikoresho byabugenewe, imbere ye hari umwana arimo arareba mu kanwa niba nta kibazo cy'amenyo afite, bigaragara ko ashobora kuba ashaka kumukura iryinyo rifite ikibazo.

Umwana uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, afashwe n'umugabo wambaye ga mu ntoki n'itaburiya y'umweru, afite igikoresho cyabugenewe mu gusuzuma cyangwa gukura amenyo bisa nk'aho ashaka kumukura iryinyo rifite ikibazo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo ndetse n'ibindi byapa bigiye byanditseho amagambo atandukanye. Harimo umuganga wambaye itaburiya ijya gusa n'icyatsi cyeruye, arimo aramurika n'agakoresho umwana mu kanwa, bigaragare ko arimo aramusuzuma amenyo.

Icyumba giteye irangi ry'umuhondo harimo n'ibikoresho bi bye bitandukanye, harimo umuganga yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru yambaye n'agapfukamunwa ku munwa na marineti yambariye mu mutwe, arimo arasamisha umwana wicaye ku gatebe yamuhengetse asa nkaho arimwo aramukura iryinyo.

Umusaza n'umukecuru bafatanye bahoberanye, barishimye bisa nk'aho basaziye mu rukundo. Umukecuru yateze igitambaro cy'umutuku, ndetse arimo aramwenyura cyane.

Aha ngaha turahabona ababyeyi bakuze ni batatu. Bambaye imipira ifite ibara ry'umweru ndetse n'urimo hagati wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo afite telefone mu ntoki. Barimo barifata ifoto mu bwoko bwa selfie. Urabona ko bishimye kuko bose bamwenyuye.

Umusaza wambaye ishati y'iroze ndetse ibipesu bifunguye, yambaye n'amarineti, imvi n'uruyenzi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, afite ikaramu mu kuboko kw'ibumoso ndetse n'agakayi, arimo arasomaho, yifashe ku munwa asa nkaho atuje cyane hari ibyo arimo arasoma maze akabitekerezaho.

Umukecuru ufite imvi bigaragara ko asaje yicaye mu cyumba cya wenyine ku buriri, afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi ndetse yifasha ku munwa nk'umuntu umaze kunywa ikinini, bigaragare ko arimo arivura uburwayi.

Aba ni abakecuru ubona ko basheshe akanguhe, bicaye ahantu hamwe kandi urabona ko bahangaje amaso imbere ndetse n'abandi basa nk'abitegereje barimo baratega amatwi, bicaye ku ntebe z'imyeru zimwe zisa nk'izikunda gukoreshwa mu bukwe ari nyinshi, ahantu begereye hari insina cyangwase urutoki, kandi hari umuntu ushobora kuba arimwo uragira ijambo abagezaho, uhagaze imbere yabo.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zigezweho bafite inkoni mu ntoki, kandi batonze ku murongo, bahagaze amaso imbere bigaragare ko hari umuntu bateze amatwi uri kubaha ubutumwa.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru gusa ntabwo bashaje cyane. Ku meza yabo barimo bararya ibiryo, hateretse amasahani ariho ibiryo birimo, byiganjemo imboga ndetse n'ikirahure kiririmo amazi yo kunywa. Bararebana bose barishimye kuko barimo baramwenyura.

Abagabo babiri bari mu muhanda, barishimye bafatanye ku rutugu, umwe bigaragara ko ari umusaza yambaye n'ingofero, barimo baraseka, bari mu muhanda bonyine, aho uwo muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi, ndetse n'ahantu hameze nkaho ari ubusitani, barishimye cyane.

Abantu bicaye ahantu hitaruye, hari ubusitani ndetse urabona ko hegeye n'agashyamba gato hari amahumbezi, bicaye harimwo abana batoya ndetse n'abantu bakuru, harimwo n'umuzungu uteruye akana k'akirabura, bigaragara ko bishimye kuko aho hantu bahakoreye ubutembere.

Aha ngaha rero turi mu cyumba, aho hari umukecuru. Undi w'umugore na we ukuze, yambaye imyenda y'ubururu. Arimo aramupima yamushyize igikoresho ku kuboko, kimwe gipima umuvuduko. Umubyeyi w'umukecuru, yicaye mu kagare gasa nk'ak'ababana n'ubumuga. Ni kwa muganga begereye intebe z'imifariso.

Umukobwa ari ahantu, yambaye ipantaro y'umutuku n'umupira ujya gusa n'ikijuju w'amaboko maremare, arunamye ndetse ahantu yarambuye n'agatambaro yicayeho, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ahantu heza niho ari gukorera kuko hari ubusitani.

Uyu nguyu ni umwana mutoya cyane w'umuzungu, kandi yicaranye n'umugabo uri mu gatebe cyangwa se akagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, bari ahantu mu cyumba gisa neza kandi gitekanye, harimo n'ikimera kibasha kubaha umwuka mwiza urabona ko bishimye, barimo barakina imikino.

Aha ngaha rero hari umusaza ubona ko ashesha akanguhe. Afite ubwanwa bwose bwose imvi zabayemo uruyenzi gusa nta musatsi afite. Afite ikirahuri mu ntoki ndetse yateze ikiganza k'ibumoso, hari umukobwa umeze nk'aho ari umuganga. Ari kumuha imiti ngo abashe kuba yayinywa maze ubuzima bwe bugende neza.

Umugabo wicaye, bisa nkaho ari wenyine kuko ni we urimo uragaragara, birasa nkaho ashaje, kuko intoki ze ziriho iminkanyari, imbere ye hari ameza ateretseho igisoro, ya mikino ikinwa n'abantu bakuru, kuko ni iyo hambere.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hagiye hari utugare duto tw'abafite ubumuga, dusize amabara y'umweru, ndetse hari n'akandi kameze nk'ubwiherero, umuntu ubana n'ubumuga ashobora kwihereramo, hari n'abagabo babiri bari gukorana mu biganza, bigaragare ko ari umuhango wo kubahiriza umunsi w'ababana n'ubumuga.

Umubyeyi ari kumwe n'abana be babiri, harimo agatoya gato ariko bari mu cyumba gisa neza kirimo ibikoresho bimeze nk'ibyo mu gikoni. Umubyeyi afite imvi, umukobwa we mukuru asutse imisatsi, bose barishimye.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, hari umubyeyi w'umwirabura ariko ni' umukecuru ata agakoresho bifashisha bagorora imitsi y'amaboko, ndetse inyuma ye hari abandi bazungu nabo bari mu za bukuru bafite utwo tuntu, barimo baragorora amaboko kugira ngo iminsi yicume.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ubona ko nta ntege agifite, kandi bigaragara ko anafite ikibazo cy'uburwayi, yicaye muri ya mabasi bogerezamo abantu mu buryo bugezweho, hari umuntu urimo uramwoza, bigaragare ko ari umuntu umwitaho, kuko ageze mu za bukuru.

Uyu nguyu ni umusaza ndetse n'umukecuru, bose barashaje urabonako imvi ari uruyenzi, umukecuru yambaye umupira utukura, umusaza yambaye umupira ujya gusa n'icyatsi cyijimye, imbere ku meza hari ikirahure cy'amazi n'agacupa karimo ibinini, bisa nkaho umusaza yabishyize ku ntoki agiye kubitamira.

Umusaza n'umukecuru ubona ko basazanye kandi basaje bakundana, umukecuru afite urupapuro arimo arereka umusaza ibintu runaka, imbere yabo hari imeza bose barambitseho amaboko ubona ko bishimye.

Abantu babiri bari mucyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe niumukobwa ubona ko afite imisatsi y'umukara ndetse yambaye n'agapira kari gusa ni iroza ka siporo ubona ko yishimye, arimo arafasha umukecuru ufite amahera ubonana ko ari umusirimu kandi imvize ze ni uruyenzi, yambaye n'agakote k'umukara, hari akuma kamwe gakoreshwa muri gimu ateruye mu ntoki.

Umusaza yicaye imbere y'umuryango ari kumwe n'abana babiri, bafite ibintu byo kurya ndetse n'umwana w'undi muto afite akabido mu ntoki wagira ngo ni abuzukuru ndetse na sekuru wabo, bicaye imbere y'umuryango, harakinguye.

Uyu nguyu ni umukecuru w'umusirimu, ariko biragaragara ko afite imvi z'uruyenzi ariko ntago bimubuza kuba yajya ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, maze ngo nawe ajye kurwanya ubusaza n'ubukecuru, yashinze inkokora yarambuye n'amaguru kandi urabona ka arimo arananura umubiri we neza

Uyu nguyu ni umugore ndetse biragaragara ko ari umuganga, yambaye imyenda y'umutuku ujya kwijima ndetse n'agapfukamunwa n'amarinete, na kagakoresho mu ijosi kameze nka kamwe kwa muganga bapimisha ibintu bitandukanye, arimo arazirika akandi kantu ku kuboko k'umukecuru munini, bisa nk'aho arimo aramupima indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Ahangaha hari icyumba kinini kandi ubona ko gisa neza, harimo umugabo ubona ko ari mu za bukuru ashaje afite imvi mu bwanwa, kandi afite n'inkoni zimwe abantu bageze mu zabukuru bifashisha. Afite umubiri munini arabyibushye, ndetse akeneye kwitabwaho. Uko tubibona rero, hari umuforomokazi uza kumwitaho kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo wambaye kositime, ahagaze ahantu hameze nk'aho ari kumanuka ku mesikariye, afasha umusaza wambaye impuzankano ijya gusa nk'ikigina ariko cyijimye, arimo aramusindagiza, bigaragare ko uyu musaza ashobora kuba ari mu zabukuru cyangwase afite ikibazo cyo kutagenda neza.

Aba ni abagore, harimo abageze mu zabukuru ndetse nabo ubona bakiri bato mu myaka, gusa bavuye mu myitozo ngororamubiri, uko bigaragara bambaye imyenda ibigaragaza, harimo umukobwa cyangwa se umugore ubyibushye, ubona ko akeneye kujya akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arwanye indwara runaka zimwe zitandura.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi bahagaze mucyumba kimwe, bigaragare ko hari ikintu bitegereje imbere bahanze amaso, umuntu uri kubafata ifoto y'urwibutso, harimwo ababyeyi bakuze n'abakiri bato, n'abandi bana batoya, biragaragara ko bishimye.

Umusaza wambaye ishati ijya gusa na karokaro, afite imvi, ari mu cyumba gituje, ateruye akana gasa n'inzobe gafite igikinisho mu ntoki, bigaragare ko arimo aragakinisha kuko yakereje umutwe n'uwako.

Ababyeyi bahagaze ahantu hamwe barimo barakoma amashyi, hari undi mukecuru uhagaze imbere, undi arimo aramuhereza ikintu kimeze nk'impano, kiri muri ambaraje bigaragare ko hari nk'ibintu by'ibirori bajemo.

Abantu batatu bari ku meza barimo bararura, ibintu birimo imboga ndetse ku isahani ifitwe n'umusore wambaye agapira k'umutuku k'amaboko maremare, barimo barashyiraho imboga, hariho n'imigati, hari umukecuru ubari hagati wambaye amarineti, bigaragara ko yishimye.

Aha ngaha ndimo ndabona umusaza mukuru kabisa usheshe akanguhe, kubera ko afite imvi mu bwanwa ndetse no mu musatsi, yicaye yaringaniye n'ameza ndetse ari kumwe n'umugore we urabona ko bari kurebana mu maso akana ko mu jisho, ku meza hariho ibyo kurya bitandukanyije ubwoko urabona ko bishimye.

Umusaza ndetse n'umukobwa bicaye mu cyumba gisa neza cyane kirimo amarido y'umweru, umukobwa yambaye itaburiye. Biragaragara ko ari umuzungu ariko umusaza n'umwirabura. Yamuziritse akantu ku kuboko kw'ibumoso gapima umuvuduko w'amaraso ngo arebe uko umutima utera.

Hano hari umugabo arambuye ukuboko kwe kw'iburyo agufatisha ku mufariso ndetse afite n'akantu mu ntoki mu kuboko k'ibumoso yarambuye agushyira inyuma, hari undi muganga umuhagaze iruhande w'umuzungu arimo aramwerekera. Bari mu cyumba gisa neza bakoramowo imyitozo ngororamubiri.

Umusore ari kumwe n'umusaza, bari mu cyumba kirimo irange ry'umweru, bafite igitabo barimo barasoma bishimye ndetse ku meza yabo hateretseho ibikombe bisa n'umweru bigaragara ko bari bari gufata icyo kunywa.

Hano hari umubyeyi munini cyane, yicaye ku kantu, yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo ukw'ibumoso yaguhinnye, yarambuye amaboko ye arimo arakora ku kirenge cy'iburyo bigaragare ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo ubona ko ari wenyine, yicaye ahantu hitaruye ndetse yambaye ishati ijya gusa na kaki n'ipantaro y'umukara, yambaye ikintu kimeze nk'isaha ku kuboko kw'ibumoso, ariko na none kimeze nk'igipimo, cyo gupima uko amaraso atembera mu mubiri we, bigaragare ko arimo arareba uko umubiri we uhagaze.

Aha ngaha turimo turahabona umusaza usheshe akanguhe, yambaye amarinete ndetse afite n'imvi, yarambuye amaboko, umugore w'umuzungu arimo aramwerekera ukuntu ayatega kugira ngo abashe kunanura imitsi, ndetse inyuma yabo hari n'undi wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi mu cyumba barimo kitaruye.

Abagore babiri n'abagabo babiri, umwe ni umusaza, umugore umwe ahetse umwana n'umugabo ahetse umwana, barimo baraseka bishimye, inyuma yabo hari indabo zisa n'icyatsi kibisi.

Aha ngaha turi mu cyumba kirimo ibintu bitandukanye nk'akabati ndetse n'intebe, kandi hari n'amasikariye asa nk'amanuka, hari umugore w'Umuzungu, afite umusaza ku rutugu arimo aramuyobora, umusaza ufite imvi no mu bwanwa, bisa n'aho ageze mu zabukuru akeneye ubufasha.

Umugore wicaye mucyumba ari kumwe n'umusaza wambaye amarineti ufite n'imvi, ku meza imbere y'uwo mugore hateretse ikayi afite agapapuro arimo arasoma imbere y'uwo musaza hatetse ikirahure cy'amazi bigaragare ko hari nk'ibintu aje kumubaza nawe arimo aramusobanurira bari mu cyumba gituje cyane.

Icyumba kinini kirombereje, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'imeza, ndetse n'intebe, harimo abantu babiri, umukobwa w'umuzungu afite agaterefone mu ntoki, ari kumwe n'umugabo uri kugenda ku ma esikariye, ariko asa nk'ucumbagira, yashoje kuba yaravunitse ukuguru kw'ibumoso akaba ari kumufasha kugenda.

Umugabo umwe ndetse n'umugore umwe, umugore yambaye amarineti, umugabo afite agacupa bigaragara ko karimo umuti, umugore imbere ye hateretse mashine ya mudasobwa ndetse hari n'ibirahure bibiri birimo utuntu dusa n'umweru duteretse hejuru y'impapuro, arimwo arereka umugore we, bigarare ko hari ikintu barimo baraganiraho.

Uyu ni umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ahantu mu nzu irimo za firigo ziri mu ibara ry'umweru, ndetse bari ku meza kuko umugore w'umukecuru afite urupapuro mu ntoki, ndetse umugabo imvi ni uruyenzi mu bwanwa, ndetse n'umukecuru na we ni imvi mu mutwe, hari ikirahure giteretse ku meza, arimo aramwereka ibintu muri terefone.

Umukecuru wicaye ahantu ameze nko mu gashyamba hakikijwe n'ibyatsi haba ibitemye byumimye hasi ndetse n'ibigihagaze ni wenyine, aratetse kudushyiga dutoya ndetse n'agakono gatoya kapfundikijwe n'akandi gasafuriya bigaragara ko yigunze.

Aba ni abantu bicaye ahantu hamwe, kandi hari n'abahagaze inyuma bakoze uruziga cyangwa se umurongo ugaragaza ko barimo barafata ifoto y'urwibutso, baje nko mu gihe k'inama runaka maze barayisoje baje kwifata neza.

Aha ngaha hari umukobwa wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'umweru n'isaha. Inyuma ye hari undi w'umugabo wambaye ishati irimo utudomodomo n'agapfukamunwa, hari umukobwa rero na we wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru arimo aramutera urushinge, asa nkaho ari umuganga urimo uramukingira cyangwa urimo uramuvura.

Abantu benshi, bicaye ahantu hamwe, bazamuye amaboko, bose bari mu buryo bugiye butandukanye kuko barimo barafata ifoto y'urwibutso, bisa nkaho bari baje mu munsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'abagore, bavuga ngo abagore nabo bakwiye kuba abayobozi.

Icyapa gikikijwe n'amabara y'umweru ndetse hagi harimwo amashusho mu tuziga tw'ibara ry'icyatsi, n'uko muri utwo tuziga hasa n'umweru, harimwo ibishushanyo by'abantu ndetse munsi hagiye handikishije amagambo atandukanye harimo umuntu hejuru urimo urakaraba intoki mu gashusho kamwe, bigaragare ko ari icyapa gishishikariza abantu kurwanya corona virusi.

Umugore uhagaze yambaye agapira kajya gusa n'icyatsi ndetse n'ijipojya ijya gusa n'umweru, urabona ko yishimye cyane ariko ahagaze hagati y'abandi bantu afite indangururamajwi bisa nk'aho arimo arababwira ijambo runaka.

Icyumba kinini ariko atari kinini cyane, harimo ibikoresho byinshi. harimo abantu abazungu ndetse n'abirabura. Basa nkaho barimo baravura umuntu, baryamishije ku gitanda, kuko harimo ibikoresho by'ubuvuzi byinshi. Basa nkaho barimo baramukorera ibagwa.

Nk'uko tubibona, aba ni abantu bahagaze, harimwo umeze nk'umushinwa, w'umugabo ndetse n'abandi b'abashinwa babiri, bahagaze bose bambaye amakarita mu izosi, ikigaragara cyo bahagaze bareba imbere barimo barafata ifoto y'urwibutso, bahagaze ahantu hari itapi isa n'icyatsi, inyuma yabo hari ibyapa byinshi, bisa nk'ibiranga icyabahurije aho ngaho.

Umubyeyi ateruye akana, akana karimo karamureba mu maso na we arimo arakareba, ubona ko bishimishije, inyuma ye hari abantu benshi bari kumureba bambaye amashati y'imyeru kuko ni yo yiganjemo, ndetse bigaragara ko ari mu kinyamakuru iyi foto iri.

Aha ngaha turahabona abantu benshi batonze umurongo kandi bifashe neza nk'abarimwo baritegura ko bafotorwa, harimo abambaye imyenda y'imyeru, ndetse n'abambaye y'imikara, ndetse n'iy'ubururu, harimo n'abazungu, inyuma yaho hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu ariko cyandikishijemo nyuguti z'umweru, bisa nkaho baje mu munsi mukuru w'ubuvuzi.

Ahantu hari abantu benshi, abicaye barimo barareba imbere kuri stage, hari abambaye impuzankano ndetse n'imikenyero bisa n'imyeru, imyenda y'ubururu, bigaragara ko ari abakobwa ndetse n'abasore. Barimo barabyina, hejuru yabo inyuma hari icyapa cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga w'ubuvuzi bibiri na makumyabiri na kane, bigaragara ko iri irushanwa riterwa inkunga na RBC.

Ahangaha hari ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu ariko inyuguti zicyandikishijeho ziri mu ibara ry'umweru. Ikirangantego rero cyanditseho ngo herifu pipo Rwanda bisobanuye ngo ni umuryango ushinzwe kwita ku banyarwanda mu buryo bw'ubuzima.

Umugore uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'agatimba ko kwa muganga umutwe n'agapfukamunwa ku kananwa, mu ijosi afite agakoresho gapima uko umuntu ahumeka, iburyo bwe hari icyapa cyanditseho ngo duteze imbere ubuvuzi bwiza.

Abagore bane bose bakikiye abana, batatu muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari amashusho agaragaza indwara nyinshi n'uburyo zivurwamo, bicaye mu cyumba giteye irangi risa n'umuhondo.

Aha ngaha hari umukobwa cyangwa se umugore wicaye mu ntebe nziza zimwe z'imifariso ubona ko yishimye afite indangururamajwi mu ntoki ndetse afite n'ikayi mu ntoki, agereretse ukuguru ku kundi yambaye n'ikarita ku ijosi bisa nk'aho yaje gutanga ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda imibonano mpuzabitsina.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete n'ingofero, ndetse n'umupira w'amaboko usa n'umukara, afite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu nyuguti zitukura ngo urukingo rw'ubushita bw'inkende, inyuma ye hari ibiti ndetse n'igorofa zihari.

Inzu mberabyombi nini, yicayemo abantu bicaye ku ntebe zisa n'umutuku kandi bose batonze umurongo. Harimo abambaye imyenda y'amakositime ndetse inyuma yaho aho bicaye, hari amarido ari mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, bigaragara ko baje mu nama.

Umuntu yarambuye ukuboko kwiwe, ukuboko kwe kuriho ibihari byinshi, afashwe ndetse n'undi utari kugaragara neza, arimo aramurebera ikibazo yaba yagize cyangwa se uburwayi bwe uko buhagaze.

Agatabo gafite igice gisa n'ibara ry'ubururu ndetse n'akandi gace gato kabyo gasa n'umweru harimo akandi kapa gasa n'icyatsi kanditseho imyaka icumi hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru bisa nkaho ari imyaka icumi yo kwizihiza kuboneza urubyaro.

Icyapa kiriho umugore ufite imisatsi isutse, yambaye agashati kajya gusa n'iroza, ku ruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko ari umunsi wahariwe kurwanya Kovide cumi n'icyenda.

Aha ngaha turahabona icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi. Ndetse hari akandi kantu kari mu ibara ry'umutuku gasa nk'agasobekeranye. Kandi icyo cyapa cyandikishijemo amagambo y'umweru agira ati: "Ingamba cyangwa se imirongo ngenderwaho y'uko umuntu yakwirinda agakoko ka virusi itera SIDA. Hano mu Rwanda."

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi bari ahantu hamwe, imbere yabo hari abantu bicaye ku ntebe zitonze umurongo, bisa nk'aho barimo barababwira imbwirwaruhame ku kintu runaka, inyuma y'aho hari ibyapa bihamanitse bigiye biriho abantu ndetse biri mu mabara atandukanye yandikishijeho inyuguti.

Icyapa kiriho abantu batandukanye, abagabo b'abazungu ndetse n'abandi bagore b'abirabura ndetse n'undi mugore ubarimo hagati witandiye bisa nk'aho ari umwarabu w'umusilamu, ku cyapa hariho amagambo agiye atandukanye yanditse ngo nta n'umwe dukwiye gusubiza inyuma.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bambaye imyenda y'imyeru, imipira ni yo isa n'umweru amapantaro ni imikara, bakoze imirongo ibiri, bafite ibyapa bijya gusa n'umutuku ndetse n'umweru, mu mabara y'umutuku handikijwemo inyuguti z'umweru, zanditse ngo twirinde kanseri y'ibere.

Abagore batatu bambaye udupfukamunwa, hari uwambaye ijire y'umukara ndetse n'undi wambaye ijire ijya gusa n'ubururu ndetse n'undi wambaye ijya gusa n'icyatsi, bahagaze ahantu hamwe inyuma yabo hari ibipapuro biri ku gikuta byometse ndetse imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo: "kurwanya Covid cumi n'icyenda muri Afurika ni zo nshingano zacu."

Hano hari ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, harimo igikoresho cya mayikorosikope ndetse n'utundi tubinika tw'uturahure tujyamo imiti runaka yifashishwa bapima indwara mbere y'uko bashyira muri mayikorosikope.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ndetse ikindi gice cyacyo giteye irangi rijya gusa n'icyatsi, harimo ibitanda bibiri bisashe amashuka asa n'umweru, bigaragare ko ari ibitanda byo kwa muganga abarwayi baryamaho.

Umugore w'umuganga yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ari kumwe n'undi mugabo, uryamye ku buriri bigaragara ko ari igitanda cyo kwa muganga, umugabo yambaye agapfukamuwa k'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, umugore arimo aramuzirika ku kuboko kw'iburyo bisa nk'aho ari gushakisha umutsi yateramo, amuvamo amaraso amupime.

Irangi ry'umweru ni ryo riteye ku nkuta, harimwo ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'ibitandagu gusa uko bigaragara ni ibitanda by'abarwayi. Kuko turabona umusaza cyangwa se umuntu ukuze aryamye ku gitanda kimwe, kandi hari n'ibikoresho bya serumu bimucometse iruhande, n'amarido y'icyatsi bisa nkaho arembye, hari n'umuganga umwegereye uri kumwitaho.

Aha ngaha ni inyubako yitaruye iri ahantu, imbere yayo hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru kandi urugi rw'inyubako rurakinguye, imbere y'uwo musore uhagaze hari umumotari wicaye kuri moto ariko itari kugenda, wambaye na kasike, hejuru ku cyapa k'inyubako handitse ko hari ahantu bagurira imiti kuri faromasi.

Inyubako nini cyane ifite amazu agiye ashoreranye ndetse imbere yaho hakaba hari ubusitani busa neza hari umuntu w'umugabo yambaye itaburi y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ni wenyine haratuje yakinguye n'umuryango, hejuru kugikuta handitse yuko hari ahantu bapimira ibizamini bitandukanye muri laboratwari.

Iyi ngiyi ni inzu. Irimo icyumba kinini kimeze nko kuba wabona ahantu haberamo ibikorwa runaka by'imyidagaduro nko mu nzu mberabyombi. Harimo rero icyumba giteretsemo wagira ngo bacyubatse mu bikoresho by'inkuta, kandi ikaba ari inzugi. Ahantu binjiramo rero bisa nkaho haberamo ibikorwa runaka, kandi bisa nkaho ahantu ari kwa muganga.

Iki ni icyumba gisa neza kandi giteye irangi ry'umweru, urabona ko harimo ibikoresho bitandukanye. Harimo ibikoresho, ikintu kimeze nka firigo, ndetse n'ikindi gikoresho gisa n'ubururu, bimeze nk'ibijerekani binini cyangwa ibigega bito, bicometse ku bindi bifite mubazi, aho bibarira imibare. Bisa nkaho ari ahantu babika okisijene yo kwa muganga.

Icyumba kirimo umuntu baryamishije ku gitanda, ndetse umugore n'umugabo bamuhagaze hejuru, ariko hari urimo aramutera serumu ku kuboko, umugore bigaragara ko ari umuganga, ndetse n'ahantu ha bari bigaragare ari mu cyumba kwa muganga, gusa uyu mukobwa ararembye.

Hano hari inyubako, inyuma yayo hicaye abantu bamwe bambaye impuzankano, imipira y'ubururu hejuru ndetse begereye meza iriho igitambaro, kuri iyo nyubako hejuru, hari irangi ry'umweru handitsemo inyuguti ziri mu mabara y'umukara zivuga ngo iyi ni inzu y'ababyeyi.

Icyumba kinini kandi kiroje ubona ko nta bantu barimo baragendagendamo ahubwo hari ibikoresho. Biragaragara ko aha hantu ari heza kuko hateye amarangi y'umweru kandi meza. Ubona ka ari mu rwinjiriro kuko imbere ukinjira ahanditse ijambo ngo reception. Bigaragara ko ari aho abantu banyura binjira.

Hano hari icyumba kirimo ibikoresho byinshi kandi bitandukanye byifashishwa mu ikoranabuhanga. Hari ibimanitse bimeze nka za kamera, ndetse n'intebe y'umukara iteretse imbere y'ibindi byuma bigaragara ko ariyo umuntu ukoresha ibikoresho yicaye. Gusa uko bigaragara hameze kwa muganga muri raboratwari.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru yicaye ku ntebe imwe izenguruka, ifite ibara ry'icyatsi ari mu cyumba, inyuma ye hari akabati, ibumoso bwe hari bya bikoresho biba nko mu bwogero, bigaragare ko ari mu cyumba wenyine ari umuganga.

Nkuko tubibona, iyi ni nyubako ndende kandi urabona ko isa nk'irambuye, hari ahantu hari agahanda kinjira mu marembo gasashe amapave hasi ,ndetse inyubako izengurutswe n'indabo zitoshye. Rero, aha ngaha ni ku kigo nderabuzima cya Gihundwe, gusa nkuko tubibona hari naho bavurira amaso.

Aha ngaha ni ikigo kiberamo nk'ibintu runaka kandi ikigo kimeze neza. Kuko harimo inyubako nyinshi zisa n'umweru, iziteye amarangi ajya gusa n'imihondo ndetse hari abantu bagaragara nk'aho bari hepfo ahari urumuri. Hari igiti giteye muri iyo mbuga ndetse na jaride nziza cyane ubona ko habera ikintu kiyubashye.

Iki ngiki ni icyumba kirimo kwakammo itara, ndetse harimo irange ry'umweru, gusa parafo irasa n'umuhondo ndetse n'ibara rya oranje, hasi hateretsemo agatanda k'umukara, ndetse n'utundi tubuwate cyangwa se utubogisi turimo ibintu tutamenya gusa turi mu ibara ry'umuhondo, bigaragara ko ari ahantu umurwayi bamuryamisha barimo baramwitaho, ni kwa muganga nk'uko tubibona.

Inzu nini kandi yitaruye iteye irangi rijya gusa n'umweru ndetse n'amabati ajya gusa icyatsi. Ikikijwe n'imbuga y'ubusitani ndetse no ku mpande hari andi mazu arombereje, wagira ngo ni amashuri.

Inyubako ziri ahantu hitaruye, zikikijwe n'ubusitani ubonako zirengeye, hari inyubako yubatse mu buryo bwapande enye, ndetse n'izindi nyubako zubatse mu buryo bujya kumera nk'uruziga, bigaragara ko izo nyubako bishobora kuba ari nk'ibintu bihabera cyangwa se ari nk'uruganda mu buryo bw'umwihariko.

Inyubako ndende irombereje iri mu ibara ry'umweru ndetse mu rwinjiriro rwayo hari icyapa cyandikishijeho inyuguti z'umweru ndetse icyo cyapa gisa n'umukara handitseho ngo “Ivuriro ry'akarere ka Nyarugenge”.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, iry'umweru, bambaye imipira y'imihondo n'indi y'imyeru, bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru bigaragara ko bari mu nama runaka.

Inzu yubatse ku buryo burambuye ikikijwe n'ahantu hagiye hateye ubusitani n'ibiti bimwe bimera mu busitani ku mpande hagiye harimowo utuyira tw'abanyamaguru twubakishije amapave bigaragara ko ari ikigo nderabuzima kigezweho.

Inyubako ndende kandi ubona ko ari nini, hari umugabo wambaye impuzankano imeze nk'iya gisirikare, arimo aratera intambwe imbere yayo, iyo nyubako iteye irangi rijya gusa n'umuhondo ndetse hejuru y'idirishya ryayo, hari amagambo ari mu mpine avuga ngo: "RCC", cyangwa se ngo: " ikigo cyo kurwanya kanseri mu Rwanda".

Inzu yitaruye ahantu hamwe ndetse nziza cyane, isize irangi ry'umweru n'amabati ajya gusa nu'ubururu, ikikijwe n'ibiti hirya no hino imbuga yayo ni nziza, yanditseho inyuguti hejuru ku marembo mwibara ry'ubururu bigaragara ko ari inzu y'ababyeyi.

Hano hari icyumba cyihariye, gisizemo irangi ry'umuhondo, kandi kirimo ibikoresho byinshi bitandukanyije amoko, turabonamo igitanda, hejuru yacyo hari ibintu bimeze nka vandarateri ariko nanone bimeze nk'amatara amurika nk'umuntu urwaye, ndetse hari n'amasashe y'ubururu, ndetse n'iy'umutuku n'iy'umweru, bisa nk'aho ariho bajugunyamo imyanda ariko biri nko ku tuntu tumeze nk'utugare, icyumba gikorerwamo igikorwa cy'ubuvuzi runaka.

Inzu ndende y'igorofa ifite ibaraza rirerire ndetse n'andi mazu ari ku mpande yayo agiye atandukanye ashoreranye, iteye irangi rijya gusa n'umuhondo, imbere yayo hari umuntu uhagaze wambaye umwenda umupira w'umuhondo n'ijipo ijya gutukura mu mbuga yayo hari igitaka gusa hasa nk'ikibuga.

Inzu ifite amagorofa isize irangi ry'mweru ubona ko ikirere kimeze neza, imbere yayo hari ubusitani n'imodoka iparitse iruhande rwayo ndetse n'igiti kiri imbere yayo cy'umukindo.

Inyubako y'amagorofa nziza cyane iri ahantu hitaruye hateye irangi rijya gusa umweru, hejuru harimwo abantu barimo barazamukamo, hirya naho hari bandi bahagaze bisa nkaho ari ikigo cy'Igihugu gishinzwe imirimo runaka, kuko imbere hamanitse ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Iki cyumba rero biragaragara ko ari kwa muganga, ko hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, ndetse n'agapfukamunwa. Inyuma ye hari akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse ibindi bimeze nk'imiti. Afite igikoresho yambitse kuboko k'umwana asa nkah ari kumupima umuvuduko w'amaraso ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Ahantu hari abantu benshi, bari kureba mu cyerekezo cy'imbere, inzu ifite amatafari ahiye, ndetse imbere ku madirishya hamanitse n'ibintu bimeze nk'ibipapuro, hejuru y'ayo madirishya, handitse amagambo ngo aho bakirira abagana ikigo nderabuzima, bigaragare ko ari kwa muganga.

Inyubako y'igorofa yanditseho ikigo nderabuzima cya Gishweru, imbere yayo hahagaze abantu batatu, uwambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara afite akantu mu ntoki, inyuma yabo hicaye umuntu ku ntebe, iburyo bw'iyo nzu hari abagore babiri bateruye abana.

Igipangu kirimo ubusitani butoshye hejuru ku marembo hari icyapa cyanditseho ngo ibitaro bikuru bya Ruhengeri hafi yacyo harimo haranyura abantu benshi batandukanye.

Ikigo kinini kandi kiri ahantu hirengeye gifite n'amazu menshi yubatse mu buryo bumwe bigaragare ko ari kwa muganga kuko ku marembo magari yacyo handitseho hejuru ijambo ibitaro bya kabgayi mu nyuguti z'umweru.

Inyubako nziza iri ahantu hirengeye y'amagorofa, iyo nyubako iriho imbere ibirahure biri mu ibara ry'ubururu bibonerana cyane, ndetse izengurutswe n'ibiti by'imikindo, ndetse n'urupangu rumeze neza, hashobora kuba hakoreramo nka sosiyete runaka.

Icyumba cyiza cyane kirimo amatara menshi hejuru kuri parafo, hakaba harimo n'intebe zigiye zifite amabara atandukanye nk'ay'ubururu, ay'icyatsi ndetse n'ay'umweru ndetse hakaba harimo n'utundi dukinisho. Bigaragare ko ari nk'ahantu bakinishiriza abana cyangwa se bahuriza abana kugira ngo bishimishe.

Aha ngaha rero nk'uko bigaragara na ho ni kwa muganga, hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'imweru hejuru ndetse n'ipantaro y'umutuku, yambaye agapfukamunwa, arimo aritegereza abantu batonze umurongo bicaye, kuko bisa nk'aho uwugezweho ari we uhaguruka undi akicara, ni kwa muganga bose barategereje.

Inzu nini y'amagorofa ikikijwe n'ubusitani ndetse muri ubwo busitani hagiye harimo imihanda inyuranamo bigaragare ko igana ahantu imbere, kandi ubwo busitani bukikijwe n'ibiti bitari birebire.

Icyumba kinini kigari kirimo amarido y'ubururu ndetse giteyemo amarangi y'umweru, harimo ibikoresho byinshi nk'ibitanda ndetse n'imeza n'udutebe tw'umukara, hahagazemo abantu bambaye ibisurubeti by'umweru ndetse banipfutse mu maso, bigaragare ko ari nk'icyumba kwa muganga gikorerwamo ubushakashatsi.

Inzu y'igorofa yubakije amatafarihiye, isize irangi ry'umuhondo n'iry'umweru hejuru, ika ifite imiryango ikinguye, imbere yayo hari intebe zitambitse ndetse n'inkingi eshatu zisa n'umuhondo, imbere yaho hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko mareremare ijya gusa n'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Inyubako bigaragara ko ari ahantu bacururiza imiti muri farumasi kuko hejuru ku cyapa handitseho ijambo farumasi riranga igikorerwa muri iyo nzu. Hahagaze umuhungu wambaye umupira w'umweru mu muryango ndetse n'abamotari bahaparitse moto.

Icyumba kinini kirombereje giteye mu irangi ry'umweru ndetse gifite na parafo harimo intebe ndetse n'utumeza dusa n'udutonze umurongo, hakaba arimwo iy'indi meza irimo hagati bigaragara ko ari nko mu biro runaka, bihuriramo abantu.

Umugabo wicaye mu cyumba kinini kirimo amarido y'umweru, ari ku meza ndetse imbere hateretse mashini ya mudasobwa, ndetse imbere ye hari nanone na ekara irimo ibintu arimo arareba, bigaragaza ko ari umuntu arimo arasuzuma niba nta rugingo rwangiritse.

Ahantu hari inyubako nziza yubakishije amatafari y'impunyu ahiye ndetse ikaba ikikijwe n'ubusitani n'indabo nziza, hari imbuga. Noneho ku marembo yayo hari inyuguti zanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ubona ko hari n'akantu gafite amabara, wagira ngo mo imbere karimo udushushanyo, nk'aho bororera amafi amwe yo mu nzu, ndetse n'utundi tuyamaswa mu mazi, kandi hari n'igikoresho kimeze nka mikorosikope, ubona ko ari nk'ahantu mu biro cyangwa kwa muganga aho bapimira ibizamini.

Umwana wambaye ikote arimo arasunika ku kagare umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere yabo ahantu bagiye kwinjira mu muryango hahagaze umugore wambaye umupira w'umweru. Bigaragarare ko yiteguye kubakira ngo abahe ubufasha.

Abantu benshi harimo abakobwa bishimye basetse ndetse n'umusore, bambaye impuzankano isa n'imyeru myiza cyane, bari ahantu mu cyumba kiri ahantu heza giteye irangi ry'umweru ndetse hari n'ubukarabiro ndetse hari n'agacupa karimo amavuta ya buto yo guteka, bigaragara ko ari nk'ahantu muri laboratwari.

Hano hari icyumba kigari kandi cyitaruye urabona ko kirombereje. Hari akapa kagaragaza aho binjira naho aho basohokera, harimwo umuntu uri gusohokamo wambaye impuzankano by'umweru, biragaragara ko ari kwa muganga kubera ko hari udutanda tumwe batwararaho abarwayi, ndetse n'abantu banyuranye barimo baragenda binjira n'abandi basohoka.

Iyingiyi ni inzu iri ahantu hitaruye, kandi ikikijwe na jaride ndetse n'izindi ndabo, ifite urupangu cyangwa korotire iriho urugi rusa nk'urushaje, kandi iyi nyubako ifite n'ibaraza kandi yubakije amatafari ahiye, iyi inzu isa nk'aho ari iy'buvuzi kuko yanditseho ngo inzu y'ababyeyi hejuru ku rwinjiriro.

Inzu nini ifite imiryango ibiri ikinguye, umuryango wa mbere urimo abantu bahagazemo, umubyeyi uhetse umwana ndetse n'undi afite mu kuboko, iburyo bw'impera z'iyo nyubako haparitse moto n'umumotari uyiriho ari kumvikana n'umugenzi, bigaragare ko ari ahantu bagurira imiti.

Icyumba cyiza kandi giteye irangi ry'umweru ndetse gifite na parafo y'umweru nkuko bigaragara hejuru, hakabaho n'irido ikinze ahandi hantu hatari kugaragara neza. Gusa imbere y'iyo rido hari igitanda ndetse n'indi mashini hariho n'akantu k'isakazamashusho kameze nka mudasobwa. Bigaragara ko ariho umuntu aryama kuri icyo gitanda bakamusuzuma maze umuganga akajya abirebera muri iyo nsakazamashusho. Akamenya ikibazo afite mu mubiri.

Ni inyubako iri ahantu yitaruye kandi y'amagorofa, ifite ibirahure bibonerana by'ibara ry'icyatsi ndetse na yo ubwayo iteye ibara rijya gusa n'umuhondo wijimye ndetse n'umweru; hari abantu inyuma y'inyubako bari kugenda mu kerekezo kimwe, ahantu mu mbuga bisa nk'aho habereye igikorwa runaka.

Icyumba kigari kirimo ibitanda byinshi bitandukanye. gisize irangi ry'umweru, hicayemo abantu ku gitangada kimwe hari n'abandi barimo barakoropa hasi bakora amasuku bigaragara ko ari mu bitaro.

Hano hari inyubako bigaragare ko ari nini, urugi rurakinguye yubakishije amatafari ahiye, ndetse hejuru hejuru y'umuryango hari inyuguti zandikishije mu ibara ry'ubururu rivuga ngo Isange One Stop Center, bigaragara ko ariho bakirira abantu bakorewe ihoterwa rishingiye ku gitsina.

Icyumba gitoya ariko gisa neza cyane, giteye irangi ry'umweru, harimo igitanda gisasheho amashuka y'umweru, ndetse harimo n'ibikoresho bitandukanye by'ikoreshwa kwa muganga, bisa nkaho ari abavurira abantu.

Inyubako ndende iri ahantu hitaruye cyane izengurutswe n'ahantu haparitse amamodoka menshi, hari umugabo uhagaze hagati yizo modoka wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara asa nk'aho arimo arabwira abantu uko baziparika neza. Iyo nzu nayo imeze nk'ivuriro.

Inyubako yitaruye iri ahantu hatuje kandi ikorotirijwe na za senyenge ndetse ku mbuga yayo hari amabuye, impande zayo hari ubusitani ndetse hejuru y'umuryango wayo handitse ngo ni inzu y'ababyeyi.

Intebe iri ahantu mu cyumba cyitaruye, gisa neza gisize irangi ry'umweru, harimwo utumeza turi iburyo bwayo ndetse n'akandi gatebe gatoya k'umukara kayegereye, iyi ntebe imeze nk'iy'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kuko ifite n'amapine urabona ko ijya mu byerekezo bitandukanye.

Icyumba gisa n'umweru ndetse cyitaruye bigaragara. Hateyemo irangi ry'umweru harasa neza, inzugi zirakinze. Harimo ibikoresho runaka ndetse harimo n'ameza bisa nkaho ari kwa muganga aho babika nk'imiti runaka ngo itangirika kuko hari umuganga w'umuzungu yambaye imyenda y'imyeru arimo arahigamo ikintu.

Ahangaha turi kuhabona ahantu hitaruye, hari indobo ndetse n'ibigega bitoya bitandukanye. Harakinguye ku miryango, hari umugore cyangwa se umuntu utabasha gusobanukirwa ako kanya, gusa yambaye imyenda y'imyeru. Afite akantu kameze nk'ipombo mu ntoki, kandi yipfutse mu maso hose, arimo aratera umuti bisa nkaho arimo ararwanya nk'indwara runaka yateye y'icyorezo.

Icyumba kinini ubona ko ari nk'inzu mberabyombi, ariko harimwo utundi tuzu twubatsemo imbere bigaragare ko ahantu ari kwa muganga, hateyemo irangi ry'umweru rishashagirana ndetse na purufo y'umweru harimo n'amatara meza, aka kazu rero karimo imbere nkako batangiramo imiti cyangwa bakoreramo ikindi kintu runaka, kuko hirya hari ahantu handitse ngo nasi umuforomo cyangwa umuforomokazi.

Aha ngaha turabona umukobwa ubonaka ari umukobwa ufite umutima w'impuhwe, afite akantu mu ntoki arimo arazirika ku murwayi uryamye bigaragara nka serumu, kuko icyumba barimo uyu muntu arimo aravura ararembye arimo aramwitaho ngo arebe ko yakongera akagarura ubuzima.

Umugabo yambaye uturindantoki ndetse yambaye n'itaburiya kandi afite n'agakoresho mu ntoki, afite urushinge arimo aratera umugabo wagira ngo arimo aramukingira indwara runaka kandi bigaragare ko uyu mugabo ari umuganga kuko afite n'ikarita y'akazi.

Icyapa cyanditseho ivuriro rikuru rya kaminuza y'u Rwanda y'Ibutare CHUB, kikaba kiri imbere y'inyubako ndende kandi ziri inyuma zifite amabati y'umutuku ndetse imbere yazo haparitse amamodoka menshi atandukanye, bigaragare ko ari kwa muganga.

Icyumba kinini cyane kirimo akameza k'umweru ndetse hakaba harimwo n'intebe nyinshi zitonnze umurongo zijya gusa n'umukara, kandi zikaba zifite utu etajeri imbere yazo dutukura, icyi cyumba bigaragare ko ari inzu mbera byombi.

Aba ngabo ni abakobwa cyangwa se abagore. Bambaye impuzankano zisa n'ubururu, izi mpuzankano zisa nk'izo kwa muganga ndetse bakenyeye n'utuntu tw'udutimba mu mutwe dusa n'umweru. Bari ahantu hitaruye hari ibyatsi byinshi kandi bitoshye bimeze nka nka jaride ndetse n'ibiti birebire, hari n'ibindi biri kure ibiti by'imikindo.

Icyumba kinini kandi cyitaruye kirimo ibitanda byinshi bitandukanye bifite amapine kandi bitonze umurongo, icyo gitanda biragaragara ko kimwe ari icy'abarwayi barwaje kwa muganga nubwo nta muntu uryamyeho ariko uburyo hakoze ni nko kwa muganga nta kabuza.

Aha ngaha rero turi mu nyubako, inyubako harimo abagabo babiri ndetse umwe bigaragare ko uwambaye amarineti ari nk'umuganga cyangwa ashinzwe ibintu by'ubuzima, kuko ambaye ijiri yanditseho ngo RBC, inyuma ye hari za kizimyamwoto ebyiri ndetse hari icyapa cyanditseho ngo Irembo, urubuga wanyuraho wishyura serivisi runaka zitandukanye zo muri Leta.

Icyumba kinini kirombereje kandi kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, urabona ko ari ahantu hatuje hatari kugenda umuntu uwo ari we wese, harimo ibikoresho bizwi ku izina rya firigo bisa nk'aho ari ahantu bakonjeshereza ibintu bitandukanye.

Inyubako ifite amagorofa atatu; hejuru yayo handitse amagambo mu ibara ry'icyatsi; bigaragare ko ari ivuriro ry'ibanze; imbere mu kibuga hari utwapa dusa nk'uturi kuri bariyeri; n'umuntu arimo arasunika akagare karimo ibikoresho.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda byinshi bisasheho amashuka afite ibara ry'ubururu n'iry'umweru, ndetse ku mpande hari amadirishya ariho amarido y'umweru, kandi muri icyo cyumba hateye irangi ry'umweru, n'intebe abarwaza bicaraho barimo baraganira n'abarwayi.

Aha ngaha hari inzu, ubona ko ari nziza cyane yubatse mu buryo butangaje kandi bugezweho, aho muri za parafo zayo hajya gusa n'umuhondo ndetse n'ahandi hakaba hasa n'umweru, hasi hari amakaro kandi hari ikintu kimeze nk'uruziga cyanditseho ngo: " Imfomesheni desike" cyangwa ngo: "aho bakura amakuru" ndetse ni ku bitaro bita Legacy. Ni uko bihanditse.

Hano hari inyubako ifite izindi nyubako zigeretseho, ni iya etaje, ifite andi magorofa, imbere yayo hari amasikariye maremare, ndetse imiryango irakinguye, hari n'ibyapa, inyuma ku miryango bigiye bitandukanyije amoko, ndetse hejuru hari igikuta cyanditse mu nyuguti z'umweru gisize ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari kuri farumasi.

Aha ngaha hari abantu benshi batandukanye, hari abambaye imyenda isa n'icyatsi ndetse biragaragara ko bamwe bari kwinjira mu nyubako, abandi basohoka ndetse inyubako hirya yayo hari itente rihubatse, isa nkaho habereye igikorwa runaka bitabiriye.

Ahangaha hari icyumba kirombereje kigiye gifite imiryango kumpande ifunze, gifite na parafo irimo irakanwa amatara, ndetse giteyemo irangi ryiza ryumweru. Harakinze nta muntu urimo uragendamo, bigaragara ko ahantu ari kwa muganga ari mu byumba byihariye.

Icyumba gisa neza gitatsemo amabara y'umweru, ndetse ari ryo rangi riteyemo, harimo abantu bagera kuri batanu, abaganga ni batatu, kuko bose bambaye impuzankano irimo ibara ry'umweru, hari umwana bisa nk'aho yazanye na nyina, umwana bamwicaritse barimo baramupima ibizamini by'amaraso bayakura mu kuboko.

Abantu bari mu ishuri. Ni mu cyumba k'ishuri, hari umwana wambaye impuzankano. Ishati y'icyatsi ndetse n'umugabo uri kumuha utuntu arimo aramwereka uko dukora. Umugabo wagira ngo ni umuganga kuko yambaye itaburiya iriho ikirangantego cy'abaganga ndetse n'abandi bari kurebera uko arimo aramwerekera.

Aha ngaha turi mu cyumba kwa muganga, aho hari umusore bigaragara ko yazanye umwana we, cyangwa bavukana kwa muganga. Ateze furari mu mutwe, ndetse hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, arimwo arapima uwo mwana; ngo areba indwara afite, ariko umwana yishimye afite akanyamuneza, bisa nkaho ari koroherwa.

Icyumba gishashe neza, ubona ko harimo ibitanda birenze bibiri bitonze umurongo kandi ubona ko babiteguye neza, iki cyumba nk'uko bigaragara urabona ko ari nk'icyumba cyo kwa muganga kuko ibyo bitanda bisa nk'ibyo abarwayi baryamaho.

Inzu nziza zishoreranye kandi zubatswe mu buryo bujya kumera kimwe, buteye amarangi ajya gusa n'umukara ndetse n'andi marangi ajya gusa n'iroza, amabati yayo n'umutuku, imbere yaho nta kintu na kimwe gihari, usibye ubusitani busa neza buhari, n'intebe ebyiri ebyiri zitukura ziri hanze ku muryango.

Icyumba kirombereje gisa n'umweru, kigaragara neza cyane. Harimo ibitanda byinshi bigiye bihuje imitwe birebana. Harimo n'abantu bagiye bicayemo, bigaragare ko ari kwa muganga kandi ari mu bitaro aho abarwayi baruhukira.

Iyi ni inyubako iri ahantu hitaruye kandi ni inyubako nini isakaje amabati ajya gusa n'ubururu ndetse n'inzu iteye irangi ry'umuhondo, hari imbuga irimo ama pave ndetse ibumoso bw'iyo nyubako nubwo igukinga umuryango hari idirishya hepfo hicaye abantu babiri ndetse n'akana gato, hejuru y'iyo nyubako ku muryango handitse ngo, iki ni kigo nderabuzima cya Shagasha, birumvikana ko ari kwa muganga.

Umukobwa wicaye afite icupa ry'amazi risa n'umweru rifite umufuniko w'ubururu ndetse afite umwitero w'umweru, bigaragara ko uwo umukobwa avuye mu mirimo ngororamubiri kuko yambaye imyenda yabugenewe muri ako kazi.

Aha ngaha turi mu cyumba cyitaruye kandi cyisanzuye gusa kirimo abantu babiri harimu umugabo wambaye itaburiyajya ijya gusa n'ubururu bwerurutse kandi yambaye n'ikarita y'akazi, bisa nk'aho ari umuganga cyangwa ari inzobereye mu bintu by'imirimo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora undi muntu uryamye hasi arimo aramugorora ukuboko n'ukuguru.

Ahanga turahabona abantu bicaye ndetse ntabwo bagaragara ku gice cyo hejuru cyo mu maso ariko hari abandi bari kure inyuma bambaye imyenda y'imihondo ndetse n'iy'imyeru, bari ahantu mu busitani ndetse aba bantu turi kubona imbere yacu bafite udusanduka tubiri n'agacupa turimo ndetse n'agacupa katurimo hagati, gusa wagira ngo ni ak'umuryango wa croix rouge kuko bwanditseho ngo ubutabazi bw'ibanze.

Ameza asa n'umweru hateretseho amoko y'ibyo kurya, harimo amagi, imigati, za sezame ndetse n'inkeri n'izindi mbuto zitandukanye. Ariko na none imbere y'amasahani hari ibyo kurya, hariho ibikoresho by'ibyuma bigaraga ko ari byo bifashisha mu mirimo ngororamubiri.

Aha ngaha rero nkuko mubibona ni ahantu hasa n'umuhondo bigaragare ko ari mu cyumba. Husa hari imeza iteretseho amaronji ndetse imboga zitandukanye ndetse n'imbuto ziri mu bwoko bwa pome. Ndetse na za shufureri za kizungu, harimo akuma bifashisha muri gym hamwe bakorera imyitozo ngororamubiri. Bisa nkaho ibi bintu byuzuzanya no kuba umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umugabo ubona ko afite ibigango kandi arimo aranywa amazi mu gapipiri, arimo arareba hejuru kuko asa nk'uwari ufite inyota nyinshi, bigaragare ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umwenda w'umupira w'amaboko maremare ndetse yambaye n'ikabutura y'umukara, inkweto yapfukamye yifashe ku ivi bigaragara ko ivi rye rigize ikibazo mu gihe yarari mu myitozo ngororamubiri.

Ahangaha ndahabona umukobwa cyangwa se umuntu w'igitsina gore, wambaye impuzankano yo gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko neza yabyambariye, afite imisatsi myinshi, yafashe ukuguru kw'iburyo n'ukuboko kw'imoso, hanyuma ukuboko kw'iburyo agufatisha mu mugongo kuko arimo arirambura neza.

Umugabo wambaye inkweto, akaba afite na ekuteri mu matwi, agatambaro mu ijosi, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, afite na terefone mu ntoki, arimo aranywa amazi mu icupa ry'ubururu, yicaye ku ma esakariye bigaraga ko avuye mu mirimo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite n'inzugi zikinze ariko ubona ko ari ibirahure bibonerana, haryamye mo umugabo umwe wambaye umupira w'umweru, ndetse n'ikabutura ijya gusa n'umukara, n'amasogisi y'umweru, hari undi w'umuzungu wambaye isaha ku kuboko, amuriho, bigaragara ko arimo aramugorora, bari mu mirimo ngororamubiri.

Icyumba kirimo imeza iteretseho ibintu bigiye bitandukanye, gusa uko bigaragara ni ibikoresho byo kwa muganga, hagiye harimo imikasi, amacupa, harimo imiti ndetse n'imiti igiye ipfunitse mu dusashi ndetse n'akandi kabuwate karimo imiti abaganga bitwaza.

Umukobwa ubona ko ateye neza bitewe n'uko umubiri we yawitayeho akora imyitozo ngororamubiri, n'ubu ngubu dore yambaye imyenda bifashisha mu myitozo ngororamubiri y'umukara kandi arimo aranywa amazi kugira ngo aruhuke maze akomeze urugendo, yiziritse akantu ku kuboko kw'ibumoso gasa nk'aho kamwongerera kuba yagira imbaraga mu gihe arimo arakora iyi imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara yicaye ahantu yarambuye ukuguru kwe, yafashe ukuguru kw'ibumoso arimo araguhinura ahereye ku kirenge kugira ngo arambure imitsi.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira ujya gusa n'umutuku ariko utijimye, afite igipfu ku kuguru kwe kw'iburyo, arimo aragikoraho, kuko nibwo bakimara kumushyiraho icyo gipfuko aho yari yarakomeretse.

Aha ngaha biragaragara ko ari umugabo, umusore afite agatuza kanini, bisa nkaho rwose yakoze imyitozo ngororamubiri maze bikamuhira, ku kuboko kw'iburyo ahagana ku rutugu hariho utuntu dushushanyijeho cyangwa se twometseho, turi mu ibara rijya gusa n'ubururu ndetse n'ak'umutuku.

Umugabo arimo aranywa amazi mu icupa ari ahantu hawenyine yambaye umupira ujya gusa nk'igina bigaragare ko afite inyota cyane kuko avuye mu mirimo ngororamubiri.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga kuko urabona ko kirimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo intebe n'ibindi bikoresho bimeze nka za vendarateri, n'ibindi bisa nk'ibipima uko umuntu ahagaze mu mubiri. Ikindi kandi iki cyumba kirasa n'umweru, kandi kirimo isuku nyinshi.

Aha ngaha hari umugabo wazinze ukuboko kw'ishati kandi yishyize ikintu gisa nk'igikonje kimeze nk'ishashi ku kuboko ahagana mu nkokora, yafasheho, bigaragara ko ashobora kuba yahuye n'ikibazo cy'imvune ari nko mu myitozo ngororamubiri maze akaba arimo arivura kugira ngo ububabare bugabanuke.

Umuntu aryamye agaramye, ndetse yahinnye ivi, umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite na ka kuma mu ijosi bapimisha mu gatuza kugira ngo bumve ko umuntu ahumeka neza, arimo aramukanda ku ivi, bisa nkaho arimo arumva ahantu havunitse cyangwa yagize ikibazo mu bugingo.

Umukobwa yambaye imyenda y'umukara ndetse afite n'imisatsi y'umukara, kandi yambaye n'agapfukamunwa. Imbere ye hari umusore, bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'imvune. Kuko, yipfutse mu maso hose n'ijosi, kugira ngo yaravunitse. Ku kuboko kwe, yambayeho akantu k'umweru, yahereje umukobwa ukuboko, asa nk'urimwo, aramurebabera ikibazo kiri ku kuboko.

Ahangaha turi kubona umuntu w'igitsina gore, kuko uko umubiri we ubyibushye biragaragara ko ari umuntu w'igitsina gore. Yarambuye ukuguru ndetse hari undi muntu wamufashe n'intoki. Yamufasha ahagana mu ivi no ku itako. Bisa nkaho arimo aramugorora imitsi kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Kandi uko bigaragara uri kumufasha ni umuganga kuko urabona ko abizobereye.

Umuntu arimo arakora siporo ariko ageze ahantu hamwe, ari kugenda mu muhanda wenyine, ntabandi bantu benshi barimo. Urabona ko yananiwe kuko arunamye. Yafashe ku mavi arimo araruhuka. Burya siporo ni ingenzi ni byiza kugerageza kuzikora kugira ngo umubiri wawe uhore umeze neza.

Umusore cyangwa umugabo wicaye wambaye agapira k'umweru ka lakosite. Ndetse yafashe n'akandi kameze nk'ishashi ikonje arimo arashyira ku nkokora, arimo arahakanda. Bisa nkaho yagizemo ikibazo akaba yavunitse, maze akaba arimo arigabanyiriza uburibwe.

Umukobwa ufite imisatsi yasukishije, yambaye ekuteri, ndetse yambaye n'agapira gasa n'umutuku, ariko uteruye cyane. Arimo aranywa amazi mu gapipiri, kandi bigaragare ko asa nk'uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo yicaye ahantu mu nzu kandi ari kuri za ntebe zifite imifariso, iyo mifariso ikaba isa n'umweru urabona ko yashyize ikintu kimeze nk'isashi ikonje ku kuboko kw'iburyo mu nkokora, bisa nkaho yavunitse arimo arikanda, burya uzabashe kwivura kuko ni iby'ingenzi.

Umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore, yambaye ipantaro ijya gusa n'ubururu ariko bwerurutse, ndetse n'isengeri ntoya isa n'icyatsi, yarambuye ukuboko k'umwe kw'iburyo, ndetse yahinye n'ukuguru kwe kw'ibumoso, yambaye inkweto nziza za siporo, yafashe n'ukuboko kw'ibumoso arimo arigorora.

Aha ngaha turi kubona umukobwa ufite icupa ririmo amazi arimo arayanywa. icupari rirya gusa n'ubururu cyangwa se icyatsi bitewe n'uko yaryerekeje mu rumuri rw'izuba, yishimye kandi atuje urabona ko yahumirije arimo kumva icyannga cy'amazi, icyabiteye rero n'inyota yavanye mu imyitozo ngororamubiri.

Ibishushanyo byinshi bitandukanyije amoko ndetse biri no mu mabarage atandukanye nk'ay'umweru, hariho abantu bicaye bameze nkabari gukina wa mukino wa yoga ndetse n'ibyapa bimeze nk'ibyo kugoboka ubuzima ndetse n'amasaha n'abantu barimo barigorora, bigaragara ko hari abakora siporo, kuko handitse ngo siporo ni ubuzima.

Icyumba kirimo ibikoresho umuntu yifashisha mu kugorora umubiri, giteye irangi ry'umweru, harimo umugabo uryamye agaramye yahambiriye umugozi ku kirenge cyiwe, arimo ararambura ukuguru aguhina yongera aguhinura.

Icyumba gituje kandi kirombereje gisa n'umweru ahantu hose, hari igitanda kiringaniye n'ikindi cyuma kinjiramo imbere ahantu hajya gusa n'ubururu, ariko bujya kumera nk'icyatsi, haryamyeho umuntu asa nk'aho, barimo baramwinjiza muri cya cyuma gipima umuntu ngo barebe niba nta burwayi afite mu mubiri.

Icyumba gisa n'umweru kirimo ibintu bigiye bitandukanye by'ibikoresho, harimo na za kizimyamwoto ndetse icyo cyumba hasizemo irangi ry'umweru, hari n'umugabo bisa nk'aho ari kwa muganga, ariko uwo mugabo yambaye itabariya y'umweru, hasi afite akantu kameze nka kasike mu ntoki, bigaragare ko ari nk'ahantu haba imyuka ihumanye.

Icyumba cyitaruye kandi gisa neza harimo bikoresho bitandukanye, harimo n'intebe yo mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigaraga ko ari kwa muganga kuko iyo ntebe ni nk'iyo bicazamo umuntu ubana n'ubumuga cyangwa babasha kuba bamuvura cyangwa bamupima uburwayi runaka bundi.

Aha ngaha turimo turareba umuntu ubona kari mu myitozo ngororamubiri gusa kuko tumubona n'igitsina gore kuko yambaye ka kantu gafata amabere nk'uko bigaragara rero yaziritse akandi kantu ku kubo kw'iburyo ahagana mu bitugu kandi yafashe urukweto cyangwa se ikirenge cye cy'ibumoso icy'iburyo aragihina maze arimo arirambura, imbere hateriretse amazi nawe yambaye ekuteri arimo arumva umuziki.

Umugabo wicaye, asa nkuri gukina makeri, yambaye imyenda y'imikara, kandi bigaragare ko imyenda yambaye ariyo akoresha imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapira k'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo aramwerekera, bisa nkaho bari mu kibuga, gikinirwamo umupira w'amaguru.

Umukobwa uri ahantu wenyine atuje, kandi uyu mukobwa biragaragara ko agororotse, akora imyitozo ngororamubiri. Kuko yafashwe yewe n'ukuboko kw'ibumoso kwe, arimo arikora mu bitugu. Ibintu bitapfa gushoborwa na buri wese, keretse bamwe bakora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kigari cyane, harimo abantu bambaye amakositimu, ubona ko bifashe ku munwa bumiwe, ndetse hari n'umugabo uryamye ku gitanda cy'abarwayi, hari abaganga babiri bamwegera bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko yahuye n'ikibazo cyo kuvunika ukuguru kw'iburyo.

Iyi ni inzu irimo abantu bagiye batandukanye, urabona ko hasashemo ibitanda byinshi, hari umubyeyi wicaye ufite akana nako kicaye imbere ye kari kureba imbere kahangaje ndetse bigaragara ko aha hantu ari kwa muganga kuko ibitanda byegeranye, bisa nk'aho uyu nguyu wicaye we arimo aroroherwa

Umuntu utarimo aragaragara neza gusa, ikiganza cye turakibona; arimwo arasuka amazi, ayavana mu ibinika, ayasuka mu kirahure. Ibirahure byombi bisa n'umweru, kandi biri ahantu heza cyane. Amazi ni ubuzima, ni yo mpamvu umuntu aba agomba kuyanywera mu kintu cyiza.

Umuntu wicaye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, akaba yambaye ipantaro y'umukara. Akaba yarambuye ukuguru kumwe. Ukundi ku kirenge yifashijeho ishashi irimo ibintu bikonje. Bigaragare ko arimo arikanda ku kirenge yagize imvune.

Umugabo urimo arasimbuka ndetse yikweze nk'umuntu wari uri mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ibishushanyo biriho amaronji, inkeri, amashu ndetse na za karoti, bigaragara ko ari imbuto umuntu ukora imyitozo ngororamubiri akwiye kujya arya.

Icyumba kirimo abantu bambaye impuzankano zisa n'ibara ry'ubururu ndetse n'udutsimba mu mutwe dufite ibara ry'icyatsi, bambaye udupfukamunwa, begereye imeza iteretseho ibikoresho byishi, hirya yabo mu nguni hari undi wambaye imyenda isa n'icyatsi kibisi bigaragara ko ari nk'ikintu barimo barajyaho inama kuko bakoze uruziga.

Umuntu wirambuye. Akoze intambwe z'umuntu arimo arirukanka. Bigaragare ko uyu muntu asanzwe akora imikino yo kwirukanka. Kuko yambaye imyenda y'impuzankano y'abantu, bajya bajya mu masiganwa.

Umukobwa ufite imisatsi igezweho ku mutwe, yarambuye amaboko arebesha hejuru, kandi yahuje ibiganza byiwe, bigaragara ko arimo arigorora cyangwa se ari mu mirimo ngororamubiri.

Umugabo wicaye ahantu ha wenyine kandi hatuje, yambaye ijaketi ririre ry'ingofero, ndetse imbere ye kuruhande rwiburyo hari igikapu cyumukara afite icupa ririmo amazi arimo aranywa, bigaragare ko avuye mu myitozo ngororamubiri bityo yari ananiwe.

Umugabo ubona ko ari umusore yambaye agakabutura k'umukara, yazamuye yafashe n'ibiganza bye byombi ku itako arimo arikanda bisa nkaho afite ikibazo, ku buryo bwe hari icyapa cyanditseho ngo buri munsi gukora siporo ni ubuvuzi budasanzwe.

Umugabo ufite ibigango ahagaze ahantu ha wenyine yambaye isengeri ijya gusa n'umweru, arimo aranywa amazi mu icupa risa n'ubururu rifite umufuniko w'umukara bigaragara ko avuye mu imyitozo ngororamubiri.

Aha ngaha rero turi mu cyumba bisa nkaho ari kwa muganga, kubera yuko turahabona imeza ndetse n'umusore wambaye itaburiya n'agapfukamunwa ndetse abarimo bose bambaye agapfukamuwa usibye akana bamuritse mu kanwa basa nkaho barimo barakarebera ikibazo gafite mu kanwa.

Hano hari icyumba kinini, bigaragara ko ari mu nzu bakoramo imyitozo ngororamubiri. Hari umusore wisukije ku mutwe ndetse n'uwambaye ingofero. Umusore wisukishije ku mutwe aryamye ku gitanda, bisa nk'aho undi arimo aramugorora.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, yahambiriye umugozi usa n'umuhondo ku ntoki ze, arimo aragorora amaboko ayananura, iburyo bwe hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubururu, arimo aramufasha guhinura ingingo.

Abantu benshi batandukanye bari hantu hihariye kandi bigaragara ko ari ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri. Kuko hari umukobwa niba atari umukobwa ni igitsina gore wicaye ku kantu kameze nk'agatanda, ndetse yihambira n'ibintu bimeze nka bya bande ku maguru bisa n'umukara bisa nkaho arimo aragorora ingingo ze.

Umugabo wicaye kandi biragaragara ko atuje, yambaye imyenda y'imikara ndetse n'agapipira k'amazi arimo aranywa yitonze, ari ahantu rero hitaruye ari nk'imbuga, bisa nkaho ari kuruhuka kuko avuye mu imyitozo ngororamubiri.

Uyu nguyu ni umugabo, ahagaze ahantu hamwe urabona ko ari umusore koko yakoze imyitozo ngororamubiri maze umubiri we ukagenda ukegerana neza; yambaye agapira kajya gusa n'icyatsi cyeruye ndetse ahagaze areba mu cyerekezo kimwe, afite umupira umwe bakina w'amaguru wanditseho umubare wa mirongo ine na rimwe.

Umugabo w'umusore yambaye isaha yambaye n'agasengeri kajya gusa n'umweru ndetse yifashe hano ahagana mu mutwe inyuma, bigaragare ko avuye mu mirimo ngororamubiri ananiwe akaba ahagaze ahantu arimo araruhuka.

Icyumba kihitaruye gisize irangi risa n'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'akabati ndetse n'imeza, harimwo udutebe dusa n'ubururu, ndetse n'igitanda gisa n'ubururu bigaragare ko ari aho umurwayi bagiye kuvura bamuryamisha.

Abantu bari mu cyumba, bamwe barahagaze, abandi baciye bugufi, hari umuntu uryamye hasi ku gitanda, barimo baramuhambira amaguru ndetse n'igihimba, bigaragara ko hari umuntu barimo baraha ubutabazi bw'ibanze, kuko ashobora kuba yagize nk'impanuka, hanyuma akavunagurika cyane.

Aha ngaha hari icyumba kirimo abantu babiri, gusa ntabwo tubabona mu maso, ariko turimo turabonamo ko ari abantu babiri bitewe n'ibiganza turi kubona, bari ahantu hihariye, hari umuntu wateze amaboko bamuziritse za bande mu ntoki, bisa nk'aho agiye kujya mu myitozo ngororamubiri, kuko urimo aramuzika arimo aramutegurira neza siporo.

Aha ngaha ni mu cyumba. Hari umubyeyi wambaye ijile ijya gusa n'ubururu ndetse n'icyatsi n'agapira k'umutuku, afite igikoresho giteretse ku meza imbere ye. Ndetse n'akandi mu ntoki gacometse kuri icyo kiri ku meza, arimo arareba umwana wo mu kanwa cyangwa mu masosa nk'ahari kumupima.

Aha ngaha rero ndimo ndahareba umuntu wicaye mu kagare bisa nkaho abana n'ubumuga bwo kutagenda, ariko nawe akwiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kubaho. Afite akantu mu kiganza kamwe karambura intoki n'ukuboko, ndetse hari umuntu umufasha kugira ngo amwereke ukuntu azajya abigenza.

Igice cy'ukuguru, biragaragara ko ari igikoresho bambika umuntu wagize ikibazo cy'ukuguru cyangwa se wavunitse kugira kibashe kuba cyamusubiza ubushobozi bwo kuba yatera intambwe.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa n'umweru ikabutura y'umukara yifashe mubavu ukundi kuboko gufashe ikirenge bigaragara ko arimo ararambura ukuguru kuko ari mu mirimo ngororamubiri

Umusore munini, arimo arimena amazi mu mutwe. Yambaye isengeri isa n'icyatsi, ndetse n'akantu kameze nk'agakomo ku kuboko gasa na move, bigaragare ko arimwo, aragabanya ubushyuhe bw'umubiri kuko avuye, mu myitozo ngororamubiri.

Iki ni igikoresho gifite amapine ane, kandi kizamuye kimeze nk'inkoni ifata amashusho, bayiziritseho kamera, nkuko bigaragara hejuru hari aka ekara kayiziritseho, harimo umuntu bisa naho kafashe ishusho imwe bafata bifashishije ya nkoni, imwe bazirikaho kamera maze igafotora.

Umugabo bigaraga ko ari mu myitozo ngororamubiri, ari ahantu mu cyumba hafite urumuri rujya gusa n'ubururu, ikirenge cye cyarezeho imitsi ariko bashushanyije utuntu dusa n'ubururu ndetse n'umutuku, bigaragare ko ari ahantu hizamura iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ubona ko ari umuntu w'umusore afite umubiri munini, ku kuboko kwe hari ibintu bisizeho biri mu irange ry'ubururu ndetse n'umutuku n'akandi k'umuhondo, yifashe mu gatuza bigaragare ko amaze koga ndetse avuye mu myitozo ngororamubiri ameze neza ubu ngubu.

Umukobwa uri ahantu ha wenyine hatuje, arimo aranywa amazi mu icupa ry'umweru, yambaye na esuwime mu izosi ndetse n'imyenda ya siporo, bigaragare ko uyu mukobwa arimo arazimya icyaka kuko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye ikote ry'amaboko maremare ndetse atagaragara mu maso neza, birashoboka ko arimo arafasha umuntu uvuye mu myitozo ngororamubiri kuko sinzi ikintu ari kumusiga ku ntoki bigaragare ko ari nk'umutoza we.

Uyu ni umusore w'ibigango, ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri. Yambaye sheneti mu ijosi, ndetse n'umupira w'ubururu, afite n'icupa ry'amazi, arimo arayanywa vuba na vuba. Bigaragare ko uyu musore avuye mu myitozo ngororamubiri. Kuko urabona ko afite inyota.

Hano ni mu kibuga urabona ko hari abantu bagiye batandukanye bahagaze bambaye imyenda y'abakinnyi bakinana mu kibuga, hari umuntu waguye hasi bisa nkaho yavunitse kuko hari abaganga babiri bambaye amajiri y'umutuku barimo baramuvura kugira ngo umukino ukomeze.

Icupa rinini rifite umufuniko w'umuhondo ndetse ubonako hari icyapa cyanditseho umuravumba. Kandi hari n'andi magambo menshi yanditse kuri icyo cyapa ari mu ibara ry'umukara. Bigaragarako iryo cupa ririmo umuti w'umuravumba. Ndetse n'ayo magambo yanditseho n'ayaranga uburyo bawukoreshwa.

Igiti gifite amababi manini ajya gusa n'icyatsi cyeruye bagiteye ahantu hitaruye ukwacyo bigaragare ko ari umuti uvura indwara runaka.

Amacupa menshi aryamishijwe hasi bayarambitse aya asa n'icyatsi n'ayajya gusa n'ikigina afite ibyapa bayometseho biriho ubwoko butandukanyije buri cupa n'irindi bigaragara ko buri cupa rifite umuti barishyizemo wihariye.

Ahangaha rero hari inzira, iyo nzira iri hagati y'imisozi nk'ibiri, ariko iyo imisozi yose iteyeho ishyamba, imbere hari abagabo barimo baragenda berekeza ku isumo iturukamo amazi, bose bahetse ibikapu, kandi bari kunyura ahantu hegereye amabuye, bisa nkaho aba bagabo ari abakerarugendo.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ari ahantu hamwe hari imiti isa n'ibivungukira by'ibiti hari ndetse n'indi isa na za tangawizi, hari n'indi miti imeze nkaza tungurusumu ndetse n'indi miti utamenya ubwoko bwayo ariko iririmo ibara ry'umukara igaraga ko ari gakondo.

Icyapa gifite ibara ry'umukara gishushanyijeho akantu gasa n'umweru ndetse kameze nk'agacupa gacuritse ariko nano kandiitseho inyuguti zijya gusa n'umukara ariko na none z'ubururu ngo ijambo serume bigaragare ko ari umuti.

Uko tubona hano hari amacupa menshi atandukanye, kandi hari n'imiti igiye itandukanye, ikindi kandi iyi imiti urabona ko itavura ikintu kimwe kuko hagiye hari ibyapa byometse kuri aya macupa bisa n'umweru maze umuntu ufite nk'ikibazo cy'uburwayi araza, akavuga uko arwaye maze bakamuhitiramo umuti wamukiza.

Aha ngaha hari akajerekani ka kabundi kagufi ariko ubona ko kabyataraye, gapfundikishije umufuniko w'umutuku, karimo ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuba ari nk'imiti, kubera ko inyuma mu mabara y'umutuku hari amagambo ahanditse vuga ko ari imiti iva mu ubuki.

Aha ngaha turahabona abantu benshi bari mu murima uhinzwemo ibintu bimeze nk'inanasi kandi baziteye ku murongo, urabona ko hahinzwe ku buso bunini. Harimo rero abantu baje gusura aho hantu bari kugenda muri uwo murima. Harimo n'utumodoka tumwe dutera imiti cyangwa se tumwe tugenda tubagara ahantu hanini baba barahinze.

Ahantu mu ishyamba hari akazinga k'ibyatsi by'ubwoko bumwe byitaruye ibindi bihuru ku ruhande, ibyatsi bigaragare ko ari imiti mu Kinyarwanda dukunze kwita, imiravumba.

Hari amacupa ndetse n'utuntu tw'udukarito turimo imiti igiye itandukanye, gusa yiganjemo amacupa ashushanyijeho y'ikimeraka bita ikikarubamba, bigaragare ko imiti iri ahantu hose ifite icyo ihuriyeho mu kuvura kuko yose harimo ikimera bita igikakarubamba.

Amacupa menshi ari mu bwoko bw'imiti bugiye butandukanye, hari ayasize ibara ry'umweru, ndetse n'irisize ibara ry'umuhondo, ariko yose icyo ahuriyeho n'uko agiye yandikishijeho inyuguti ziri mu mabara y'umutuku zigiye zisobanura icyo iyo miti ivura. Bigaragara ko iyo miti yose ivanwa mu kimera cy'igikakarubamba.

Amacupa menshi arimo ibintu bigiye bitandukanyije amabara bisa nk'aho ari imiti gakondo kuko hari irisa n'ubururu, umweru ndetse n'irindi bara bitandukanye ikigaragara cyo imeza biriho babishyizeho kugira ngo berekane yuko ari ngombwa.

Imiti myinshi iri ahantu ahamwe irarundanyije, biragaragara ko ari umuntu wayegeranyije akayishyira ahantu hamwe, kuko imbere ye afite agasekuru ndetse n'umuhini arimo aragenda ayisekura bisa nkaho ashaka kuyitunganya kugira abone uko azajya ayikoresha avura abantu.

Igiti cyangwa se ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti runaka, urabona ko bagiteye ahantu hitaruye kandi bagitera ku bwinshi, iki giti rero bacyita umuravumba, aho kifashishwa mu kuvura Inkorora ndetse n'Ibicurane n'indi miti ikivamo igiye itandukanye.

Aha hari umukobwa wamwenyuye arimo arerekana amenyo, ndetse bigaragara ko yishimye, ikindi kandi munsi ye hari icyapa kiriho uducupa turimo imiti igiye itandukanyekanya wagira ngo ni imiti gakondo, kandi iyo miti ikorwa mu gikakarubamba, bigaragare ko ikorwa n'uruganda rwa foreva kubera ko byanditseho kuri icyo cyapa.

Igiti kimwe gifite amababi manini giteye ahantu hitaruye ariko hakikijwe n'ibindi biti byinshi ndetse n'ibihuru hari n'ibyatsi bitoshye cyane hasi bigaragare ko bacyitayeho kuko ari umuti.

Aha ngaha nk'uko bigaragara ni mu ishyamba ry'inzitane, ariko nubwo ari mu ishyamba ry'inzitane harimo umugabo. Wambaye agapira k'umweru, ndetse afashe ibibabi by'igiti runaka, arimwo arabisoroma, bigaragare ko ari nk'imiti yaje gushaka. kugira ngo avure indwara runaka.

Umugabo ubona ko yishimye ari mu kantu k'akabutike gacururizwamowo imiti. Ariko iyo miti uko bigaragara iri mu macupa agiye atandukanye, bisa nkaho ari imiti ya gakondo ivura indwara runaka zigiye zitandukanye. Uyu mugabo yambaye ingofero y'aba isilamu, kandi urabona ko yiteje imbere.

Amacupa ateretse agiye atandukanye. Hari amacupa ari gusa n'umweru n'andi macupa ari gusa n'umuhondo ndetse n'utundi dukarito tujya gusa n'ubururu. Bigaragara ko ayo macupa ari imiti ivura indwara zitandukanye ariko icyo ahuriyeho yose n'uko ashobora akorwa mu gikarubamba.

Aha ngaha ndimo ndahabona ibyatsi biri mu ishyamba. Gusa ibi byatsi byo birimo biragaragara cyane kandi bifite icyatsi gitoshye. Ikigaragara cyo ibi byatsi babyifashisha bavura indwara runaka, kuko bivamo imiti, akaba ari yo mpamvu babigize ku ruhande rwabyo.

Udupaki tubiri turiho amabara ajya gusa n'ubururu ndetse n'umweru hari cyane najya gusa n'umuhondo hari amagambo agiye yanditseho atandukanye ariko ayo magambo ari mu ibara ry'umukara bigaragare ko ari imiti gakondo iva mubimera runaka.

Agasorori gakoze mu buryo bwiza kandi butangaje, hari n'akandi karahure k'umweru ndetse n'icupa ry'umweru n'utundi ducupa dutoya tujya gusa n'umutuku bugiye burimo imiti y'ibyatsi itandukanye bigaragare ko ari imiti ivura.

Aha ngaha ni ahantu mu busitani ariko nanone bumeze nk'ibyatsi ntabwo butoshye cyane. Hari icyatsi cyakuze gusumba ibindi biri aho kandi kiranga. Hari umuntu rero ugifasheho n'intoki wambaye umupira bisa nkaho usa n'ubururu w'amaboko maremare. Turi kubona ikiganza cye asa nkaho yaje gusuzuma niba koko waba ari umuti uvura indwara runaka maze ngo awukoreshe.

Ikimera cyitaruye ibindi ndetse abantu bakerekanye bigaragaza nkaho bakitayeho, kimeze nkaho ari umuti ukivamo kubera yuko barabanje baragifumbira kugira ngo gikure neza bityo kizagire akamaro.

Amacupa menshi asa n'umuhondo ndetse ashushanyijeho icyatsi bita igikakarubamba, ari mu gikarito kimwe bigaragare ko ari imiti ikorwa mu gikakarubamba.

Uturabo twiza kandi dusa n'umuhondo, uturabo rero ni uturi kurabya tuva ku kimera runaka, iki kimera gihinze ahantu hitaruye kandi bigaragare ko uwagihinze yari afite gahunda yo kugikuramo imiti, ivura indwara runaka kuko yacyitayeho neza.

Aha ngaha tur'ahantu har'imiti igiye itandukanye nk'uko uyu mubyeyi yaje kuyisoroma, n'ahantu hari ishyamba ndetse n'ibihuru ariko na none ko hari imiti yitaruye. Umubyeyi rero ashobora kuba azi ko iyi miti ahari harikintu ivura cyihariye akaba ariyo mpamvu yaje kuyireba.

Ahanganga ndimo ndahabona ahantu hameze nk'igishanga ndetse harimo ibihingwa byinshi bihinzwe ku buso burebure, harimwo abantu bifubitse ibintu by'imyenda kugera no mu maso kuburyo utapfa kuhabona, bisa nkaho bamwe barasarura ibintu runaka kuko bamwe barunamye ariko bigaragara nk'aho bari gusarura icyayi.

Ibyatsi bigaragara cyane kuko birasa n'icyatsi kibisi, biteye ahantu habyo byonyine bigaragare ko ari umuti uvura indwara runaka kuko bawitayeho.

Icyatsi gifite amababi asongosoye kandi atoshye cyane, bagiteye ahantu hitaruye ukwacyo kandi bagikikiza ibindi byatsi byumye, bigaragare ko bagihaye ifumbire kuko ari umuti watoranijwe.

Ni ishyamba ririmo ibiti byinshi, hari ibyaguye ndetse n'ibyahengamye binakora hasi, ikiri imbere yabyo kigaragara cyane kiriho utubabi twinshi dusa nk'icyatsi kibisi cyane, bisa nkaho ari imiti ikoreshwa mu buvuzi.

Icupa riteretse ku meza y'umweru, iryo cupa ripfundikije umufuniko w'icyatsi kibisi, ndetse inyuma yaryo hariho n'icyapa cyometseho kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuguti zandikishijeho ntoya zikaba ari umukara, noneho ijambo ryanditseho umuravumba.

Aha ngaha rero hameze nko muri puberi cyangwase mu ngarani ahantu bajugunya imyanda, gusa nanone urabona y'uko harimo ibikoresho bya kera abanyarwanda bo hambere bakundaga kwifashisha bimeze nk'uducuma, ndetse n'udukono dukoze mu ibumba, ariko nanone harimo ibifuka, birimwo imyanda n'ibipipiri byashaje, ndetse n'ibindi.

Amacupa abiri asa n'umweru bayacuritse inyuma ku birango bya yo handitseho inyuguti ziri mu ibara ry'icyatsi n'izindi ziri mu ibara ry'umukara, ndetse munsi yazo hashushanyijeho ibishushanyo ry'igikakarubamba bigaragare ko ari umuti w'amenyo.

Icyapa kiriho irangi ry'umuhondo ndetse n'irangi ry'icyatsi kibisi, rigaragaza igikakarubamba, imbere y'iyo foto hariho ibinini biri mu ibara ry'umuhondo. Kuri icyo cyapa kandi handitse ijambo ngo: forever aloe turm, bigaragara ko ari ubwoko bw'uwo muti, uvanwa mu gikakarubamba.

Icupa risa n'umweruru cyane, iri cupa rero, barishyizemo imiti runaka, iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kuko nk'uko bigaragara, inyuma yaho hari amagambo yanditseho avuga ngo forever daily, bisobanura ko umuntu arikoresha buri munsi.

Icupa risa n'umweru ririho amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, riteretse mu cyumba kirimo umwijima, bigaragara ko ririmwo imiti yifashishwaga mu buvuzi bwo hambere.

Aha ngaha turahabona ameza ateretseho akantu kabaje mu giti kameze nk'ikintu baruza ibiryo gusa ako kantu kameze nk'umwuko ariko karacyari gashyashya karimo ibinini by'amoko utabasha gusobanukirwa gusa biri mu ibara ry'icyatsi bigaragare ko byakozwe bivanywe mu byatsi ako kanya.

Amacupa acuritse asa n'umweru nayo yayandikishije inyugutitse umuhondo ndetse n'inyuguti z'ubururu hirya hari ifoto iriho abantu batandukanye, ni abakobwa ndetse n'abagabo bigaragareko ari umuti uvura indwara zuruhu.

Ibyatsi byinshi byiganjemo ibyagaragajwe cyane, bigaragare ko ibyo byatsi bagaragaje byihariye bifite ikintu bimaze kiruta iby'ibindi kuko babyerekanye byonyine. Ibyatsi biri mu ishyamba ahantu ariko n intorane kuko bivamo imiti yifashishwa mu buvuzi igiye itandukanye.

Utuntu tw'utugiga tw'uduti, karekare ndetse n'utugufi tubiri, hateretseho udukarito tw'imiti itandukanyije amasura, bigaragare ko ari imiti yifashishwa kuvura indwara runaka kandi utuntu duteretse ahantu mu busitani bwinshi kandi busa neza.

Aha ngaha turimo turahabona ibiti byinshi bateretse mu kirahure, ikirahuri kirasa nk'ikirimo amazi umuntu turi kubona ikiganza ke yabifashe, urabona ko ibyo biti byamezeho n'amababi bigaragara ko ashobora kuba ari nk'imiti ivura indwara runaka benda kuyitunganya.

Afite agatebo karimo amoko y'imiti atandukanye, aricaye yambaye imyenda isa n'icyatsi, gusa ntitumubona mu maso hagaragara intoki ze, hari ibibabi bisyeye ndetse n'ibidasyeye ndetse n'utundi duti duhagaze, turi muri iki gitebo bisa nkaho arimo aratunganya imiti izavura abantu.

Ahangaha turahabona amashusho y'ibimera bigiye bitandukanye n'abantu bafite mu ntoki haba abari kubitera ndetse n'abari kubisarura, ibi bimera rero bigaragare ko ari imiti bitewe n'ukuntu bayitayeho, iyi miti yifashishwa kuvura indwara zigiye zitandukanye bityo bakaba barimo barerekana uburyo bwo kuyibungabunga no kugira ngo yororoke.

Amacupa atatu rimwe riyari imbere ho gato risa n'umuhondo andi abiri asa n'umweru yose uko ari atatu apfundikije imifuniko itukura, inyuma handitseho inyuguti zitandukanye ziri mumabara y'umukara n'ay'umutuku kandi hashushanyijeho ikarubamba.

Ishyamba ubona ko ari rinini rikaba ririmo ibiti byinshi bitandukanye, ariko hari igiti kigaragara cyane gisumba ibyo bindi byose, bigaragare ko ari aho bakura imiti gakondo bavurisha abantu.

Icyumba kirimo imeza iteretseho udusahani turimo imiti itandukanyije amoko, bigaragara ko igiye ivura indwara zigiye zitandukanye, hari umugore afite utundi mu ntoki arimo aritegereza utwo ari two, kandi biragaragara ko ari umuzungu.

Icyatsi gisa n'icyatsi kibisi cyane, giteye ahantu gikikijwe n'ibindi byatsi byumye biri hasi ariko batemye kugira ngo babikikize icyo kimera maze bikibere ifumbire, biragaragara ko ari umuti gakondo bifashisha bakoramo indi miti igezweho runaka kuko bakibungabunze mu buryo bwihariye.

Aha hari ameza ateretseho iparato iriho umushonge w'imbuto zitandukanye, izi mbuto bigaragara ko ari amaronji ndetse hari n'agacupa k'umweru kahateretse, bigaragare ko karimo umuti uva mu mbuto zitandukanye nk'amaronji.

Aha ngaha turimo turahabona ahantu hari ibyatsi bitandukanye. Gusa ikigaragara cyo ni uko ikiganjemo ari igikakarubamba. Ndetse hari n'andi mafoto arimwo ibindi byatsi bitagaragara bigiye bitandukanye. Hejuru yabyo hari icyapa cyanditseho ngo Forever, bisobanuye ngo ubuziraherezo. Bisa nkaho ari imiti ivanwa muri ibi bimera bashaka kwamamaza.

Aha nkuko tubireba hari ibirahure bibiri birimwo amazi, kandi hakabamo n'ibindi bibabi ubona ko byatumye ayo mazi ahindura ibara, kandi hari n'ibindi bibabi biri ku ruhande bimeze nk'umuravumba, uko bigaragara uyu umuntu yashakaga gukora umuti kugira ngo yivure.

Umugore ukenyeye igitenge kirimo amabara menshi; arimo arasoroma indabo zijya gusa n'iroza; ku biti bisa n'icyatsi kibisi; bigaragare ko ari umuti arimo arashaka.

Akabati gateye irangi rijya gusa n'ibara ry'iroza, harimo amacupa y'imiti agiye atandukanye, harimo ay'umweru, ay'umuhondo ndetse n'ajya gusa n'amabara y'ubururu, bigaragarare ko ari imiti gakondo igiye itandukanye bashyize muri ayo macupa.

Agasekuru k'umweru, karimo n'umuhini, gateretse hagati y'imiti myinshi itandukanyije amoko, bigaragara ko ari imiti babanje bakanika ikuma, kugira ngo bazayitunganye maze bayikuremo ubuvuzi runaka, kuko biragaragara ko ari imiti ivura ku buryo buhambaye.

Umurima munini urimo ibiti bikiri bitoya bitarakura bikikijwe n'ishyamba, bisa nk'aho ibyo biti babiteye kugira ngo bijye bivamo imiti ivura indwara runaka.

Ubusorori burimwo imiti myinshi itandukanye, buteretse ahantu hamwe kandi bukikijwe n'imiti yindi irambitse hasi, hejuru yayo hari amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru, bigaragare ko ari umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubucuruzi bw'imiti.

Hano hari icupa rinini risa n'umweru ariko ririho icyapa inyuma gisa n'umutuku, ndetse hakaba n'abandi bantu bafashe mu nda bigaragara ko barimo barababara, bakaba berekana ndetse n'igishushanyo cy'imbere mu nda bigaraga yuko ari umuti uvura inzoka ya amibe.

Aha ngaha ndimo ndahabona amashusho y'umuntu ufite ibice runaka berekanye by'umubiri bigiye bitandukanye, nk'inkokora, ndetse n'amavi, ndetse n'umugongo, ndetse no mu izosi, bigaragare ko uyu muntu arimo arerekana ahantu umuntu akwiye gusiga aya amavuta turi kubona mu macupa, igihe avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Iki ni icyumba cyitaruye kandi kirimo intebe zitandukanye z'umukara, ndetse hakaba hari umusore wicayemo wambaye itaburiye y'umweru, imbereye ku meza hateretse amacupa arimo ibintu runaka tutabasha kumenya. Gusa hari akandi kantu afite mu ntoki arimo aritegereza, bisa nk'aho ari gukora ubushakashatsi cyangwa arimo arasuzuma nk'ibizamini yafashe kugira ngo arebe ko hari indwara ibirimo.